Abantu batandukanye bicaye bari mu nama, bamwe bicaye ku ntebe ndende itambitse yicayeho batatu n'indi yicayeho batatu, hirya yabo hari inzu ifite umwirasire hejuru yayo, imodoka iri iruhande rwabo, hagati yabo harimo ikinogo.

Umumama n'umupapa bari ku ivomero rifite impombo ebyiri, umumama witeze igitambaro mu mutwe, yambaye umupira ujya gusa ubururu ukenyeye n'igitenge hasi ku maguru, hirya yabo hari ibiti byinshi by'ishyamba.

Abana bari guhengereza mu kazu karimo amazi, umwe uri kuri robine uri kunywa amazi, abana bambaye impuzankano y'ishuri umwe uhetse igikapa, bamwe bambaye imyenda y'icyatsi.

Abagabo n'abagore bambaye neza, bicaye ku ntebe ziteye zikikije ameza mu buryo bw'uruziga, bafite ibikombe ku meza ndetse n'imigati yo kurya n'insakazamashusho ku gikuta.

Umupapa wambaye umupira w'ikaki, wanditseho amagambo mu gatuza, wambaye agapfukamunwa, uri guterwa urushinge ku kuboko n'umumama wambaye ga z'umweru, n'iyitaburiye y'umweru n'agapfukamunwa, ufite imisatsi iboheye inyuma.

Umumama wambaye amaherena y'umweru, ufite umusatsi w'umukara uvanze n'umutuku uboshye, wambaye itaburiya y'umweru uri guha umuti umwana, wambaye umupira w'umweru n'umumama ufite umusatsi w'umukara uri guseka.

Abantu benshi b'uruvunganzoka bicaye mu byatsi, bamwe bicaye ku ntebe, abandi bahagaze. Imbere yabo hari ihema ry'umweru, munsi harimo abantu, hirya hari idarapo n'inyubako, iruhande rwayo hari imodoka.

Abana bari ku gikuta kiriho robini bari gukaraba, umwe ufite agakomo ku kaboko, bose bafite imisatsi iboshye, hirya yaho hari igiti kirekire kigandaye n'urugo n'ubutaka.

Umumama uteruye umwana ufashe urupapuro mu kuboko, ufite agakomo ku kuboko kumwe witeze igitenge, inyuma ye hari abadamu benshi, bamwe bateruye abana n'imiryango iri muri iyo nzu basohokeramo.

Abagabo batandukanye bamwe bambaye amakoti, abandi batambaye amakote, harimo abambaye amadarubindi bicaye bakikije imeza iriho ibyo kurya, irambuyeho igitambaro cy'icyatsi hariho n'amakayi n'ibirahuri.

Abana bambaye impuzankano isa y'ibara ry'umutuku, inyuma mu mugongo handitsemo amagambo ari mu ibara ry'umukara, n'umumama wambaye umupira w'umweru n'ingofero ufite umusatsi muremure, inyuma yabo hari umusirikare uteruye icyansi.

Umwana uri ku mugezi ufite robine enye uri guterura indobo ifite ibara rijya gusa umuhondo, usutamye ugiye kuyikorera, hari umupapa ufite ingata mu ntoki, hirya hari igikuta cyubakishije amatafari ahiye, umwana wambaye ibirenge.

Abantu benshi bakikije umugezi ku ivomero aho bavomera, hari umwana ufite akabuni gatoya uri ku mugezi uri kuvoma, inyuma y'abo bantu hari ibyatsi n'ibihingwa ndetse n'ibiti byinshi bitandukanye, abantu babiri ndabona ari bo bonyine bafite utubuni.

Imodoka ndende ifite ibice bibiri bifatanye iri kugenda mu muhanda, igice cy'inyuma kiriho ibyapa bibiri biri mu ishusho y'uruziga yanditseho amagambo ari mu mpine, imbere hari guturuka indi modoka.

Abana benshi bahagaze iruhande rw'umugezi, ku mugezi hari umwana ufite igitenge ku rutugu uri kuvoma amazi, amakaro abiri n'umwuma witeye igitambaro cy'umweru mu gatuza, uri kuvomesha amazi, umugezi wanditseho umubare kabiri, uri mu ibara ry'umutuku.

Umumama wambaye itaburiya y'umweru, afashe indangururamajwi mu ntoki n'igitabo. Hirya mu ihema harimo abaturage bari kumva imbwirwaruhame mu ihema ryubakishije amabara y'ubururu, umweru, umuhondo n'icyatsi. Hirya y'aho hari icyapa kiriho ibiri gukorerwa aho hantu.

Abantu benshi banyuranye bamwe bahagaze abandi bicaye, harimo abambaye umukara abandi bambaye umweru, bose bafite amakarita y'akazi mu gatuza, inyuma yabo hari igikuta cyubakishijwe amabuye ndetse n'icyapa cyanditseho amagambo agaragaza ibyo barimo.

Abantu benshi bafite impapuro zanditseho amagambo yandikishijwe ikaramu y'ubururu inyuma yabo hari ibyatsi hirya gatoya hari akazu kubakishije amabati.

Abantu bicaye munsi y'ihema ryubakishije imishumi, imbere yabo hari ameza arambitseho ibikarito birimo imiti, hari umuntu wambaye ikarita y'akazi mu gatuza, n'undi wambaye amadarubindi.

Inyubako iri mu ishusho y'uruziga, ifite isikariye n'uruzitiro rw'ibyuma, hirya hariho abantu, inyuma yabo hari inzu isakaje amabati y:umutuku, hirya hari umusozi utuweho n'abantu n'amashyamba.

Abantu benshi bicaye mu buryo kuziga bafite ibyo bari kwigaho, hirya na none hariyo abandi bantu bicaye ku murongo, hino ku mupapa wambaye ikoti ry'ikigina n'ingofero ijya gusa icyatsi wegeranye n'icupa ry'amazi.

Umwana uri ku ivomero ufite ikivomesho uri kuvomerwa n'undi mwana wambaye impuzankano y'ikigo cy'amashuri, hirya hari abandi bana bambaye impuzankano y'ibigo by'amashuri bitandukanye n'ababyeyi bari kureba ku mugezi.

Abana bari ku ku mugezi bamwe bitoheje ikibuni kigipfundikiye, umwana umwe uri gukinisha umugezi asunikira amazi hanze, inyuma hari ibyatsi n'ibiti urukweto ku ruhande rw'umugezi.

Abantu bakuru bahagaze imbere yabana bambaye impuzankano yishuri bahagaze kuri tapi y'icyatsi iruhande rwabo hari indangururamajwi.

Abantu bicaye bakikije ameza arambuyeho igitambaro cy'umweru kumeza hariho mudasobwa hirya hari abandi bantu bahagaze ku gikuta hariho insakazamashusho.

Abagabo babiri bambaye amakoti bicaranye n'abandi bantu benshi mu cyumba cy'inama, bose bafite ibintu bari gusoma, inyuma hari igikuta kirimo ibara ry'umuhondo kimanitseho impapuro zanditseho amagambo atandukanye.

Umwana wambaye ishati y'ishuri bari gutera urushinge, uri guterwa n'umugabo wambaye ishati irimo uturongo tw'umweru n'umukara, wambaye itaburiya y'umweru, ufite ikarita y'akazi mu gatuza, wambaye ga z'umweru, hirya hari abandi bana bicaye.

Abantu bicaye barebana ku ntebe, iruhande rwabo hari ameza ariho ibipapuro, umuntu ufite imisatsi iboheye inyuma wambaye imyenda isa iroza, inyuma yabo hari amarito yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Abana bane bari ku mugezi bafite utuvomesho dutoya, imbere yabo hari umukobwa uri kubasunikira amazi, hirya y'aho hari inzira irimo amabuye ndetse n'ishyamba n'imodoka iri kugenda mu muhanda.

Umumama uvuye kuvoma wikoreye indobo imwe y'umutuku afite n'indi mu ntoki y'icyatsi, imbere ye hari ibyatsi ndetse n'inzira yo gutambukamo, hirya gato hari imyenda yanitse n'ibiti birebire.

Abantu benshi batandukanye bari mu nyubako ab'imbere bicaye ab'inyuma bahagaze, inyuma yabo hari umwenda wanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Umwana uri ku kumugezi uvoma amazi mu njerekani, yambaye imyenda miremire, umupira w'umweru, yunamye mu mugezi, harimo ishusho y'iwe mu mazi, harimo n'ibyatsi n'amashusho ye y'ibyatsi biri mu mazi.

Umwana urigukaraba amazi avuye mu icupa ufite umusatsi wikaraze, wambaye imyenda y'igitenge. Hirya hari intara n'inzu yubakishijwe amatafari ya rukarakara.

Abana bambaye impuzankano zimwe bafite ibikombe mu ntoki bari kuvoma, amazi ku bikoresho byabugenewe, bitanga amazi, biteretse hejuru y'ameza uko ari bibiri, inyuma yabo hari inyubako z'amashuri, inyuma hari umusozi ndetse n'ibiti biri kuri uwo musozi.

Abagabo n'abagore bicaye bakikije imeza mu buryo bw'uruziga, hirya hari undi mumama uhagaze ufite imisatsi iboshye, wambaye umwenda wo hejuru w'umuhondo. hagati yabo ku meza hari ibintu biteretseho inyuma yabo hari amarido.

Umumama munini wambaye agapfukamunwa n'amadarubindi, afashe mu gatuza, wambaye agakomo ku kaboko kamwe, uri kwitabwaho n'umumama wambaye ishati y'umweru, n'agapfukamunwa, hirya yiwe hari undi mugabo wambaye amadarubindi, inyuma hariyo intebe.

Abantu bicaye imbere y'inyubako y'amatafari ahiye, hejuru hamanitse ibipapuro bitandukanye bishushanyijeho abantu, hamwe hariho umugabo n'umugore, ahandi hariho abantu bicaye mu buryo bw'uruziga.

Umugabo ukikijwe n'abana uri kureba ku ruhande, ari kuvomera amazi mu makaraviye ku mugezi wubakishije isima, hirya hari umusozi uriho ibyatsi n'amabuye.

Abantu benshi bahagaze bari kureba umumama uri guhaga amazi ku mugezi n'umwana wambaye umupira w'umutuku w'amaboko magufi, uri kuvoma amazi mu ijerekani, inyuma yabo hari urutoki.

Umusore n'abakobwa babiri n'umumama umwe ufite imisatsi iboshye, bahagaze imbere y'icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, icyapa kiri mu ibara ry'icyatsi, hasi hariho kashe, hirya hari akandi kapa gatoya gahagaze.

Abantu bari mu cyumba cy'inama bicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza arambitseho amakaye n'amacupa y'amazi, abantu bamwe bambaye udupfukamunwa, abandi bambaye imipira y'icyatsi yanditseho amagambo y'umweru mu gatuza.

Abagabo n'abagore benshi bahagaze ku murongo, bose bambaye udupfukamunwa, abagore bari imbere bambaye amataburiya bose, hirya yabo hari ibiti, hejuru yaho hari icyapa cy'umuhondo.

Umwana wambaye ishati y'umutuku, ufite igikombe mu ntoki uri gusukira amazi undi mwana wambaye na we ishati y'umutuku izinze amaboko, uri guseka cyane, hejuru yabo handitseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, inyuma yabo hari ibiti bihari.

Umumama wambaye imyenda y'igitenge. wikoreye ikivomesho cy'umuhondo gipfundikishije umuvuniko w'umutuku, hirya yabo hari inyubako ,ihari ifite amabati y'umutuku n'umwana wambaye impuzankano y'ishuri.

Umugabo uri imbere ufite indangururamajwi mu ntoki ze. Hirya hari igishushanyo cy'umugore witeze ku gikuta. Urugi rukozwe mu mbaho n'abandi bagabo bari mu nama bafite za mudasobwa imbere yabo.

Umupapa uhagaze imbere y'abantu bari gukoma amashyi, bambaye imyenda y'akazi n'ikarita y'akazi mu gatuza, inyuma yabo hari undi mugabo uri kubafotora, hirya hari igiti ndetse n'amagambo yanditse ku nyubako iri inyuma yaho.

Abarwayi bari kwitabwaho n'abaganga umwe wambaye itaburiya y'umuhondo, bose bambaye ikarita z'akazi mu gatuza, hirya hari umugabo w'umukoranabushake wegamye ku gikuta cy'amatafari y'impunyu, inyuma y'aho hariyo ibiti.

Umugabo munini wambaye agapfukamunwa uri gusoma urupapuro, uhagaze iruhande rw'ameza iriho mudasobwa n'undi mugabo begeranye wicaye uri kwandika, imbere hahagaze umugabo wambaye imyenda y'ubururu n'umumama wambaye ingofero iriho amabara y'umutuku n'uturabyo ufite ikarita y'akazi mu ntoki inyuma hari intebe.

Umwana uteruwe n'umumama, wambaye impeta, isaha ku kuboko n'agakomo mu gatuza, wambaye amaherena n'agapfukamunwa, umumama uri gusomana n'umwana, inyuma ye hari undi mugabo wambaye agapfukamunwa.

Umumama uteruye umwana ufite urupapuro mu kuboko wambaye agakomo ku kaboko, witeze igitenge, hirya ye hari abantu benshi bamwe bateruye abana, hejuru yabo hari itara ndetse hirya hari inzugi.

Umumama uri ku ivomero rifite impombo eshatu n'udufunguzo tw'umutuku, inyuma ye hari ishyamba rinini, umumama wambaye ingofero y'ubururu, umupira ujya gusa isine harimo uturongo tw'umweru n'umukara n'igitenge cy'icyatsi.

Abantu bahagaze ku murongo, inyuma yabo hari igitambaro cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umuhondo, hejuru hari igisenge, hirya hari ikirangantego kiri mu ishusho y'uruziga, imbere yabo hari ubusitani.

Umumama uteruye umwana ufite urupapuro mu ntoki wambaye agakomo ku kuboko kumwewiteze igitenge, hirya hari undi mugore uteruye umwana mu ntoki, hirya hari abandi bantu benshi bahari.

Umuntu wambaye amadarubindi ufite umusatsi mwinshi, wambaye umupira wa orange umugongo wanditsemo amagambo uri kwita kubabyeyi bateruye abana bicaye hasi.

Ababyeyi bururukije abana, hari uri kunanura umwana bamwe bafite n'ibikapa bicaye ku gikuta cy'inzu, inyuma igizwe n'amatafari ahiye hasi asize ibara ry'umukara rivanze n'umweru.

Abantu benshi bambaye imipira y'imyeru hejuru, bamwe bafite n'amakarita y'akazi mu gatuza, inyuma yabo hari igitambaro kinini gishushanyijeho ibintu bitandukanye hariho amagambo ari mu mpine n'ikirangantego.

Abamama batatu babiri bafite amakaramu mu ntoki barikwandika imibare mu bitabo. Hirya hari undi wicaye ku ntebe y'umweru. Imbere ye hari igitabo cy'umutuku. Inyuma yabo hari ishusho iri ku gikuta y'umugabo n'umugore n'umwana.

Umwana wambaye ikanzu y'igitenge irimo amabara y'umutuku, ufite umusatsi uboshye uri gukarabira kuri robine hasi hari ikibase, inyuma ye ari igikuta cyubakishije amatafari y'impunyu, hirya hari inyubako y'inzu.

Umupapa n'umwana bari gusuhuzanyiriza mu kirere, inyuma yabo hari igiti kiziritseho ururabyo n'umugozi muremure uziritseho igipupe, hirya hicaye abandi bantu benshi, inyuma yabo hari ibiti.

Abana babiri basutamye ku mugezi bari gukaraba, hasi hari icyondo inyuma hari amazi atemba, hirya hari ibyatsi bisa ikaki n'igiti kiri hirya kidafite amababi menshi.

Umuntu uteze ibiganza kuri robine ibikumwe bisa nk'ibyitandukanyije n'izindi ntoki. Robine isa umukara irikuva amazi y'umweru. Hasi hari ishusho ikoze nk'uruziga. Hirya yaho hari akantu k'icyatsi kuri robine. Hirya hari ishusho y'ubururu.

Icyumba gitererwamo inshinge abarwayi, umumama wambaye ingofero n'umupira w'umukara, ufite ishakoshi mu gituza wicaye iruhande rw'ameza bari kumutera urukingo. Inyuma hari abandi bantu bari gutera inkingo.

Umwana uryamye mu bitaro kwa muganga uri kwitabwaho n'abagabo babiri bambaye amataburiya y'umweru bafite imiti bari kwifashisha, iruhande rwabo hari irindi cupa ririmo umuti bari gukoresha, hirya hari umumama wamuzanye kwa muganga wagize ubwoba, hirya yaho hari igisuperi kirimo ibiryo.

Abamama babiri bunamye ku mugezi, umwe wambaye agapfukamunwa k'umweru, inyuma y'umugezi hari undi mumama ufite umusatsi munini wambaye agapfukamunwa k'umweru n'ishati y'umutuku, inyuma yabo hari ibiti.

Abamama bakenyeye ibitenge bahagaze ahantu hamwe imbere y'inyubako, hirya yaho hari amadirishya, inzugi byose bikozwe mu birahuri ndetse n'ishusho y'igiti kiri inyuma yabo.

Abaganga babiri bari gusuzuma, uyu musaza indwara yo mu kanwa wambaye ingofero y'ubururu, abaganga bambaye imyenda bikwije y'ubururu, umwe uri gushyira imyanda mu ishashi yabugenewe, hirya hari abantu batonze umurongo.

Abantu benshi bateze amaboko, hirya hari intebe ebyiri n'indi isa umukara n'ameza ahari, hirya ku gikuta hari amashusho atandukanye.

Umwana wunamye ku mugezi, hasi hariho igifumesho, uri kunywesha intoki, hirya ye hari ibyatsi ndetse n'inyubako, wambaye ikabutura y'umutuku n'inkweto zicikaguritse.

Umwana uri gukaraba intoki ku ivomero, wambaye ibitenge by'umutuku, ufite umusatsi uboshye uhinguka w'inyuma, inyuma ye hari igikuta cya'amatafari adahiye.

Umumama uri mu nzira uri kugenda wikoreye indobo y'umutuku ufite n'indi mu ntoki, imbere yiwe hari umugozi wanitseho imyenda, hirya hariyo inyubako iri mu ishyamba ndetse n'ibiti biri iruhande rwiwe.

Abantu benshi batandukanye, bicaye mu cyumba cy'inama, bafite amacupa y'amazi, aho bandika ibyo babwirwa, imbere hari umwanya w'aho abavuga bahagaze, hejuru mu cyumba harimo amatara atandukanye.

Umumama witeze igitambaro kirimo ibara ry'ubururu n'umweru uri guhabwa ibinini n'umugabo wambaye ikarita y'akazi mu gatuza n'itaburiya y'umweru, hirya ye hari undi muntu uteze ikiganza kirimo ibinini. Inyuma yabo hari umugabo wifashe mu mufuka n'inyubako iri inyuma ye.

Abantu bari mu cyumba cy'inama, umwe wambaye agatambaro mu ijosi, hagati yabo hari ameza ariho amacupa y'amazi, hirya yabo hari icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, inyuma yabo hari insakazamashusho.

Abantu benshi batandukanye bari mu cyumba cy'inama, uruhande rwabo ku meza hariho amazi; imbere hari abandi bantu bicaye babareba bafite indangururamajwi, inyuma ari igitambaro kiriho ikitego cy'igihugu cy'u Rwanda n'amagambo yanditseho, hino hari imfatamashusho.

Umumama uri ku ivomero rifite impombo ebyiri, wambaye igitenge hasi n'ingofero mu mutwe, inyuma ye hari urutoki n'ibiti bihari n'umuharuro, hirya y'aho, hari icyapa cyanditseho amagambo.

Abantu benshi batandukanye, abagabo bambaye amakoti na karuvati, bafite amakarita y'akazi mu gatuza, inyuma yaho hari icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru n'igishushanyo gikoze uruziga.

Abantu bambaye imyenda ibakwiye hose, bamwe bambaye imyenda y'umuhondo, bafite ingofero z'umweru ndetse n'uturindantoki tw'umweru, hirya yabo, hari ameza ateretseho indobo, inzu yubakishijwe amatafari ahiye.

Umukobwa ufite imisatsi miremire, iri mu gatuza, wambaye isaha y'umweru, wambaye umupira w'icyatsi n'ipantaro y'umukara, n'umugabo wambaye imfasha kureba, wambaye ijili y'umukara, yanditseho iriho igishushanyo mu mugongo, handitseho amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Umupapa udafite umusatsi uri kureba, ufite amenyo y'umweru wambaye ishati y'ubururu iriho igifungo, ufite indangururamajwi mu ntoki, hasi hari igishushanyo kimeze nk'impyiko gifite uruhande rumwe rw'umuhondo n'urundi rw'umweru.

Umumama uteruye umwana, undi amwicayera iruhande, iruhande rwe hari intara iriho mironko, hariho n'imyaka imwe n'imwe, inyuma hari inzu yubakishije icyondo n'urugi rw'imbaho gusa.

Umumama witeze igitambaro cy'umweru mu mutwe, ufite iminkanyari mu maso, wambaye urunigi mu ijosi wambaye amaherena ku gutwi, hirya yiwe hari ibiti birimo amabara y'icyatsi n'umuhondo.

Ikirangantego kiri mu ishusho y'uruziga hagati hashushanyijemo inuma iri kuguruka ifite ishami mu ntoki, hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza, hasi hariho ibindi birangantego.

Abantu bahagaze mu cyerekezo kimwe, umwe ufashe ku meza hariho insinga hirya hari abambaye amakarita y'akazi mu gatuza, ndetse n'amacupa y'amazi ari ku meza n'impapuro zirambuye ku meza.

Umupapa wambaye ishati iriho ibifungo idafite ikora y'amaboko maremare, ifite umufuka hejuru hariho akantu k'umweru, inyuma ye hari abantu bahari, hirya yaho hari ibishushanyo by'ingagi ndetse n'ibara ry'icyatsi ritambitsemo.

Icyapa kigaragaza ubwirinzi bwa Korona, umukobwa wambaye agapfukamunwa k'umweru, witeze igitambaro cy'umukara, wambaye ikoti ry'umukara, uhetse igikapu, igishushanyo kigaragaza Korona, amagambo menshi asobanura ibikorerwa ahantu, amwe yanditswe mu ibara ry'umutuku, icyatsi ayandi mu ibara ry'umukara.

Abagore bane n'umugabo umwe, umugabo bose bicaye ku ntebe bafite ibintu by'impapuro mu ntoki bari kwandikaho ndetse undi afite ikarita y'akazi, inyuma hari urutoki n'ishyamba...

Umupapa ufite icumu mu ntoki, uri gucinya umugara wizihiwe, wambaye ingofero n'ishati y'umweru n'umwitero w'umuhondo, inyuma yiwe, hari urugo rushingishije ibiti by'imigano.

Umu mama wicaye ku ntebe iruhande rwe hari indi ntebe iticayeho umuntu, inyuma ku gikuta hari ishusho iriho icyatsi ndetse n'amagambo amwe yanditseho hari ururabyo rufite indabyo z'umuhondo zigera muri enye.

Abantu bari kugenda mu nzira umwe ufite indangururamajwi n'igipapuro ari gusoma amagambo hino hari abapolisi bafashe igitambaro kiriho ikirangantego cy'igihugu n'icya polisi y'u Rwanda hasi hariho amagambo yanditse mu kinyarwanda.

Umugabo uhagaze mu byatsi wambaye inkweto z'umukara n'ipantaro y'umukara, wambaye amadorubindi inyuma hari inyubako ifite ibaraza ririho indabyo mubicupa hejuru yanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu iruhande hari ibiti by'umukindo.

Abantu bahagaze mu nyubako yubakishije amakaro, harimo abantu babiri batambaye imyenda isa n'iy'abandi bamwe bambaye imipira y'ubururu yanditseho amagambo mu gatuza n'ishusho y'urukiramende kuruhande ku kuboko hariho ikirangantego kiri mu ishusho ijya gusa umuhondo.

Abana bicaye ku musambi bakikije umunwa mukuru ufite umusatsi w'umweru, uri kumwe n'abana bamwe bambaye imyenda y'ishuri, inyuma gatoya hari imyenda yacikaguritse iri ku gikuta gihari.

Umupapa wegamye ku gikuta cy'inzu, uri kureba mu kirere, wambaye ishati ikozwe mu gitenge, ufite terefone mu kaboko, hirya mu nguni harimo utwatsi, hejuru harimo ishusho y'ibyatsi byinshi.

Abagore batatu bari kumwe umwe uteruye umwana mu kwaha ufite urubingo mu kundi kuboko inyuma ye hari undi mu mama ufite igitiyo mu ntoki, hirya hari undi mama ufite urubingo mu ntoki inyuma ya hari imibyare n'ibiti.

Umuntu wicaye yifashe mu mutwe ukenyeye igitenge wiziritse amaguru, wicaye ku mukeka iruhande rwiwe hari igitenge kiharambuye, inyuma hari igikuta cy'inzu gishaje.

Abantu bahagaze imbere y'inyubako, iruhande rwabo, hari icyapa gishushanyijeho amafoto menshi y'abantu, bari mubushakashatsi munsi handitseho amagambo atandukanye.

Amagambo yanditse mu buryo bunyuranyuyemo amwe atambitse, andi ahagaze, andi amanuka, amwe yanditse mu ibara y'ubururu, andi yanditse mu ibara ry'icyatsi cyijimye, andi yanditse mu ibara ry'ikacyi yijimye, andi yanditse mu ibara ry'umweru yijimye.

Umupapa wicaye hagati mu igurudomu y'ipine ry'imodoka, wambaye ikabutura y'ikigina n'isengeri ijya gusa isine n'umusatsi ukaraze, iruhande rwiwe hahagaze umuntu wambaye inkweto z'umukara n'ipantaro y'umukara.

Umumama wambaye agakomo mu gatuza ufite isuka mu ntoki wikoreye igitebo kirimo ibijumba n'imigozi wikoreje ingata inyuma ye hari icyatsi kirandaranda n'inyubako yubakishije amategura.

Umumama ufite umusatsi muremure uri guseka, ufite amenyo y'umweru wambaye ishati y'umuhondo, uhagaze mu iduka hirya harimo salisa, amavuta, ibipapuro n'ibindi.

Umupapa wambaye ingofero y'urugara inyuzemo mu ibara ry'umukara, wicaye hamwe ahetse igikapa, wambaye isaha ku ku boko, iruhande rw'iwe hari amagambo yanditse mu ibara ry'umukara atsibaze n'andi yanditse mu ibara ry'icyatsi.

Urupapuro runini rwiganje mu bururu bwijimye, hariho ifoto iri mu kiziga y'umuntu w'umugabo wambaye ishati y'umweru. Hariho amagambo yandikishijwe ibara ry'ubururu hejuru ye hari amagambo y'ikaze yandikishijwe umuhondo, imirongo ivunaguye hariho kashe ndetse n'imbuga nkoranyambaga zabo.

Igishushanyo kiri mu ishusho y'uruziga, hejuru hariho akantu kazamutse, kiri mu ibara ry'ubururu, ikigina n'icyatsi, harimo utwiso tune, hasi hariho amagambo y'impine yanditse mu ibara ry'icyatsi, amagambo arambuye yanditse mu ibara ry'ubururu.

Umujyanama w'ubuzima uri kwereka igipimo umumama uteruye umwana, umumama wambaye umwenda w'umweru ushushanyijeho ikirangantego, umumama wundi wambaye agatambaro ko mu mutwe n'umupira ujya gusa umutuku.

Ikirangantego kiri mu ishusho y'uruziga, hagati harimo agaseke n'ikawa, iruhande hari amagambo yanditse mu mpine anasobanuye mu magambo arambuye, hasi hari akamenyetso kanyuranyijemo kari mu ibara ry'icyatsi n'amagambo yanditse mu ibara ry'icyatsi.

Umupapa ufite ikibazo cyo mu mutwe, ufite umusatsi ukaraze mwinshi usa nabi, wasamye ufite ubwanwa burebure bw'umweru busa nabi, wambaye imyenda icikaguritse, hirya ye hari inzu.

Umuntu wicaye yigunze wambaye umupira w'umutuku, ipantaro ya kaki n'inkweto z'umukara wegamye ku gikuta, iruhande rwiwe hari amashashi hirya hari imyanda.

Abantu bicaye ku ntebe bari kuganira, inyuma yabo hari inzu yubakishije ibyondo ifite umuryango ufunguye n'amadirishya abiri y'ibirahure, hirya hari indi nzu n'imibyare ihinze n'ibiti.

Inyubako ikinguye umuryango umwe, hejuru handitseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu, iruhande hateye ibiti by'umukindo, imbere hari ubusitani, n'igiti kirekire cy'inganzamarumbo.

Umugabo muremure ufite ubwanwa buconze neza, uri gusuhuza umugabo ufite umusatsi usa nabi mwinshi, wambaye imyenda yacikaguritse, inyuma ye hari ibishashi.

Abana bishimye bari gukoma mu mashyi bose bambaye imyenda y'umuhondo umwe ufite agakomo ku kaboko, bamwe biteze utuntu ku mutwe hasi handitseho amagambo y'umukara ndetse hariho na nimero.

Igishushanyo kimeze nka avoka icuritse kirimo akamenyetso wagira ngo ni umutima mo hagati, munsi handitseho amagambo ari hagati mu murongo hirya hari umwana ushushanyije mu kiziga usutamye n'ikindi kirimo ababyeyi bari hagati bafashe abana mu maboko hirya hari umugore utwite hariho ikimenyetso cy'umutima ku nda.

Imodoka iri kugenda muzira irimo ibyatsi imbere yayo hari umuntu uri kugenda, inyuma hari abantu benshi bahari n'intebe zirambitse hasi hirya hari ibiti.

Abana bamwe bambaye impuzankano y'icyatsi hejuru ifite ibifungo rwose bari guseka, inyuma yabo hari umuntu wambaye ishati ya karokaro.

Abamama babiri bicaye ku ntebe y'indambure, umwe ufite ikayi ku bibero wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'ikoboyi, wambaye n'agakomo ku kaboko afashe ku rutugu mugenzi we wambaye isharupe y'umutuku.

Umukobwa uri guseka, ufite umusatsi uboshye, wambaye umwenda ujya gusa ikigina, imbere y'iwe hari ishusho y'isine, inyuma ye hari indi y'icyatsi, wambaye amaherena, iruhande rwe hari amagambo yanditse mu ibara ry'umweru, atsibaze n'adatsibaze, hejuru hariho ikirangantego kiri mu ibara ry'ikigina.

Umuntu wicaye ahantu yambaye imyenda yacikaguritse ndetse n'ingofero isa nabi, iruhande rwe hari ikintu kimeze nk'igisahani kiriho ibintu byo kurya, afite amazi mu ishashi mu ntoki ziwe, inyuma ye hari igikuta kidaheruka gusigwa irangi.

Abantu batandukanye barimo igikorwa cyo gutera ibiti, bamwe bambaye impuzankano igaragaza ibyo bakora, abandi, undi ufite icyapa imbere kigaragaza ibyo bakoze hirya yabo hari inzu ibiti ndetse n'ubutaka bari guteramo ibyo biti hari n'umugore wambaye itaburiya.

Mama wicaye ku ntebe isa umutuku ufite indangururamajwi mu ntoki ze, hirya ye hari undi mugabo uhicaye ufite akantu k'icyatsi mu gatuza, imbere ye hari igikapa inyuma yabo hari ibyatsi.

Umumama wicaye ku musambi wambaye inkweto zifunguye zifite imishumi y'umutuku, hasi ari umukara, uziritse umunyururu uteye mu giti cyanditseho amagambo atandukanye hirya yawo hari umufuka.

Umupapa n'umumama bicaye ku ntebe imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa y'amazi, umumama ufite indangururamajwi inyuma hari ibyapa bitandukanye biriho amagambo atandukanye.

Umukobwa ufite umusatsi muremure, uri kunyuza urudodo mu kanwa uri kumwe n'umusore ufite umusatsi uboshye werekeye igihande kimwe nawe uri kunyuza urudodo mu kanwa bose bambaye imipira y'imyeru.

Umugabo ufite ubwanwa butari bwinshi bwogoshe, ugaragara amatwi abiri, usa nk'uhumbije ijisho rimwe, wogoshe umusatsi mu mpande, uconze, wambaye ikote ry'ikoboyi n'agapira kajya gusa ikigina.

Umumama munini uhagaze ufite imisatsi itunganje neza wambaye umupira w'icyatsi n'isaha ku kuboko ufite uburoso mu kanwa, inyuma ye ha hagaze umupapa wambaye umupira w'umweru uriho amagambo y'umutuku uhetse igikapu.

Umuntu w'umugabo ufite umusatsi ukaraze uhengamiye ku ruhande rumwe ufite amenyo y'umweru ufashe urudodo imbere y'amenyo uri kwireba mu ndororwamo.

Umupapa uhengetse umusaya wasamye, ufite amenyo y'umweru, iminwa minini, ubwanwa buringaniye, wiziritse urudodo ku ntoki ebyiri zinyuranye, uri kurunyuza mu kanwa.

Umupapa wambaye amadarubindi n'agapfukamunwa, ufite isaha ku kuboko kumwe, n'umukobwa wambaye agakomo ku kuboko bari kwita ku murwayi uryamye ku gitanda kwa muganga.

Umumama ufite umusatsi muremure uri guseka, ufite intoki ebyiri zitunze mu kanwa ziriho inzara, intoki zombi ziriho imirongo ibiri isa nk'ikoze uruziga n'indi ibiriri itambitse.

Abana bambaye impuzankano y'ikigo, ishati y'umuhondo, amapantaro ajya kuba ikigina, bamanitse utuntu mu kirere turiho ibara ry'umutuku n'umuhondo.

Ifoto yo mu kanwa ishushanyijeho amenyo atandukanye, hejuru hari amazuru anyuzemo amabara y'umweru n'umukara, hasi hari uturongo duhari turi mu ibara ry'umukara.

Umupapa uri mu nyubako iriho robine, iruhande rwiwe hirya hari isabune, uburoso bw'amenyo ndetse imbere yiwe hari indorerwamo ari kwirebamo.

Umupapa wasanye uri kwitabwaho n'umuganga wambaye itaburiya y'umweru, ishati y'umweru, karuvati y'umutuku n'agapfukamunwa k'umweru na ga z'umweru, hirya ye hari intebe ihari.

Umukobwa ufite umusatsi w'umukara, ufite amaso y'umweru arimo umukara, ufite amenyo y'umweru, uri kumwenyura, uhuje intoki enye ku munwa.

Umupapa ufite umusatsi uringaniye, hagaragara ugutwi kumwe, wambaye ishati y'umweru, ufite ubwanwa hasi, uri kwireba mu ndorerwamo, ufite urudodo mu rutoki rumwe uri kurunyuza mu kanwa, ufite amenyo y'umweru.

Abana babiri bambaye imyenda isa y'ubururu, bafite uburoso mu kanwa bari kwiborosa umwe ufite ubw'umuhondo, abumanitse mu kirere inyuma yabo harihoyo ibiti.

Umwana wegamiye umusego usa umutuku, ufite umusatsi uringaniye, uri kureba umuntu uri kumukora mu kanwa, wasamye ufite ururimi rw'umutuku, uri kwitabwaho n'umuntu ufite intoki zambaye uturindantoki tw'ubururu.

Icyumba bavuriramo abantu bafite uburwayi bwo mu kanwa, harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, amatara hejuru ku gikuta ari kwaka, igikuta gisize ibara ry'umweru na mudasobwa imanitse ku bindi byuma.

Umumama w'umusatsi muremure usakaje no mu maso, ufite uburoso uri kuborosa, wambaye isengeri y'umweru akaboko kari kureba mu kanwa, uri kwireba mu kirahure.

Umupapa wicaye ku ntebe ndende ifite amapine, wambaye ipantaro y'umukara, inkweto z'umukara, isaha ku kuboko, itaburiya y'umweru yanditseho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi, hirya ye hari igitanda kigizwe n'ibara ry'icyatsi ndetse na mudasobwa.

Umumama ufite amenyo y'umweru yanyujijemo urudodo mu kanwa, arahumirije, afite umusatsi w'umukara inyuma ye hari igikuta kiriho ibara ry'ubururu, yambaye isengeri y'umeru.

Umumama n'umwana bafite imisatsi miremire bari kurebana mu maso, umumama ufite amenyo y'umweru, wambaye isengeri y'umweru n'umwana wambaye isengeri y'umweru, bose bafite uburoso.

Umwana wegamye ku musego w'ubururu, witeze agatambaro kariho ururabyo rw'iroza, ufite uburoso mu kanwa akanuye, hirya y'iwe hari undi muntu wicaye ku gikuta gihari.

Umwana wambaye umupira w'umweru wogoshe ucishijemo imirongo ibiri mu mutwe uri kumwe n'umupapa, ufite umusatsi uboshye bafashe urucundura mu ntoki bose rwambukiranyije mu kanwa

Umu papa wicaye ku ntebe ifite amaguru ane arihoho amapine n'ikaramu mu mufuka inyuma ye hari igikuta iruhande rwiwe hari igitanda gifite ibara ry'icyatsi hejuru hirya hari mudasobwa.

Umupapa wambaye itaburiya y'umweru hariho ikirangantego cya kaminuza y'u Rwanda, uri kwigisha umwana uko boza amenyo, inyuma ku kibaho hariho amagambo yanditseho n'abama babiri bahahagaze.

Umugabo wambaye agapfukawa k'umweru n'itaburiya y'umweru wambaye uturindantoki tw'umweru uri gukora mu kanwa k'umugabo wambaye umupira w'icyatsi ufite ibifungo inyuma yabo hari amarido.

Abana bari mu ishuri bari kumwe na mwarimu wabo, ufite imisatsi miremire y'umukara, bari guseka bamanitse korogati mu kirere, inyuma yabo hari idirishya n'akabati, abana bambaye impuzankano zimwe.

Inyubako irimo abaganga babiri bambaye udupfukamunwa bari kureba mu kanwa k'umwana wasamye inyuma ye hari ifoto iriho abantu bari guseka hino hari ameza ariho ibipapuro hejuru ariho ikaramu.

Umwana ufite umusatsi usokuje neza wambaye amaherena n'ishati y'umuhondo wasamye bari kumushyira ibintu by'ibikoresho mu kanwa, ufite amaso y'umweru arimo ibara ry'umukara.

Umuntu uryamye ku buriri yasamye, hari undi mugabo uri kureba mu kanwa, bigaragara ko ari umuganga, yambaye ga z'umweru, yambaye isaha ku kuboko, inyuma ye hari ifoto imanitse ku gikuta n'ibitabo bigaragaza, byandikwamo ibyakorewe aho hantu.

Umuntu uryamye ku gitanda, ufite umusatsi ukaraze, wambaye agapira gasa umweru gatambitsemo imirongo y'umukara n'umupapa wundi umuri iruhande wambaye agapfukamunwa k'umweru, wambaye ga z'umweru, ufite akantu mu ntoki ari kureba, hirya yabo hariyo igikombe kiri mu kabati.

Umumama uryamye ku gitanda, uri kwitabwaho ku ndwara yo mu kanwa, umuganga ufite agakoresho yashyize mu kanwa kari kureba uko amenyo ahagaze, wambaye ga z'umweru, itabura y'umweru, agapfukamunwa imfasha kureba, n'undi muganga uri iruhande uri kumufasha.

Umupapa wambaye umupira w'umweru, ufite imishumi isohoka ku ngofero, wambaye imfasha kureba, utunze urutoki mu kanwa, ufite amenyo y'umweru.

Umupapa w'umusatsi wogoshe usa nk'uwawumazeho mu mpande, ufite urudodo mu ntoki uri kurunyuza mu kanwa, ufite amenyo y'umweru ururimi rw'umutuku, usa nk'uhumbije ijisho rimwe.

Umwana ufite umusatsi muke uringaniye, uri kureba, ufite amenyo y'umweru, wambaye ishati ijya gusa ubururu, ikunje amaboko, ufite uburoso burimo amabara y'ubururu avanze n'umuhondo.

Umumama uri kumwenyura wambaye ishati y'umweru ufite imvi nyinshi, inyuma ye mu bitugu hari umukobwa uri guseka wambaye ishati y'icyatsi, afite umusatsi w'umukara, hirya inyuma hari intebe.

Umama ufite umusatsi usa shokora, ufite n'igikombe mu ntoki wicaye iruhande rw'ameza, hariho igikarito cy'imiti uri kwitabwaho, n'umukobwa ufite umusatsi wumukara wambaye taburiya y'ubururu n'isaha ku kuboko.

Inyubako ikurikiranirwamo abarwayi umu papa wicaye mu kagare k'ababana n'ubumuga batabasha kugenda, uri gusunikwa n'umuganga ufite icyumvirisho mu gatuza, wambaye itaburiya ijya gusa umweru ufite n'umusatsi uzinze.

Umukobwa uri guseka ufite umusatsi uboshye, uri guha umupapa ibinini mu kiganza, umukobwa ufite igikarito mu kwaha, umupapa udafite umusatsi, ufite ubwanwa bw'umweru bwinshi, uteruye igikombe kirimo amazi mu ntoki.

Abantu benshi batandukanye bicaye munsi y'ihema, harimo umupapa uri kuvugira kuri terefone n'undi mugore ufite umusatsi uboshye uri gutanga utuntu, inyuma yabo hari undi muntu uriyo hirya hariho igiti kirekire.

Abagabo babiri bari kwirukanka, umwe yiteye umupira mu bitugu, bose bafite amacupa y'amazi mu ntoki, bambaye amapantaro yagenewe gukoranwa imyitozo ngororamubiri, hirya yabo hari puberi ndetse n'ibiti biri muri iryo shyamba.

Umupapa ufite agacupa karimo imiti ufite imisatsi y'umweru ivanze n'umukara ubwanwa bw'umweru wambaye impeta kurutoki imbere ye hari indi miti iri mu macupa hari terefone irambitse ku meza undi mugore bari kumwe ufite mudasobwa.

Umupapa wambaye umfashakureba ufite umusatsi w'umweru uri guseka, uri kumwe n'umudamu, ufite umusatsi w'umukara bicaye ku meza bari kurya, bafite icyuma mu ntoki n'ikiyiko mu ntoki, ku meza hariho ibiryo bitandukanye, imboga ziri ku isahani.

Umumama w'imvi nyinshi, ufite indangururamajwi, ahagaze ahantu havugirwa ijambo, inyuma ye hari inzu ndetse ikikijwe n'ibiti, imodoka ziri kugenda mu muhanda, icyapa n'imisozi.

Abamama benshi bambaye udupfukamunwa, bamwe bariteze abandi ntibiteze, bamwe bambaye amajipo y'umukara n'imipira y'umweru, inyuma yabo hari igikuta hirya yaho gatoya hari igiti gihari kirekire.

Umupapa wambaye amadorubindi uri kwitabwaho n'umumama wambaye itaburiya y'umweru ufite imisatsi miremire, inyuma ye hari itara, inyuma ye hari inzitiramibu ndetse n'akabati.

Umupapa wicaye ku ntebe wambaye umupira w'umukara ufite ubwanwa bw'umweru, uteze ikiganza barikumuha ibinini ubihabwa n'umukobwa ufite imisatsi miremire wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara, wambaye isaha ku kuboko. Umupapa ufashe mudasobwa mu ntoki.

Umumama w'umusatsi w'umweru, ufite ingoyi z'umweru, wambaye amaherena, wambaye umupira ujya gusa isine, inyuma hariho ikote rifite imashini, ufite akuma mu ntoki, uri kumwe n'umukobwa ufite umusatsi muremure w'umukara, wambaye agapira gasa n'isine.

Umugabo wambaye ikoti ry'ikigina, ufite umusatsi w'umweru, ufite igipimo, yambaye ku kuboko, iruhande rwiwe hari ameza munsi arimo ikintu k'ikigina.

Umumama n'umwana bicaye ku ntebe iruhande rw'ameza bari kubara ibinini ku meza, umwana ufite umusatsi mwinshi ufunze n'umumama ufite umusatsi mwinshi wambaye umupira w'umweru w'amaboko maremare.

Umupapa ufite intoki zikanyaraye wambaye ishati irimo amabara y'umweru n'ubururu urigukina ikibuguzo. Inyuma ye hari ishusho y'icyatsi igaragara mu mugongo wiwe, afite inka zigizwe n'umukara ndetse n'ikigina.

Umupapa wambaye ishati ya karokaro, ufite umusatsi w'imvi n'ubwanwa bw'imvi, uteruye agacupa mu ntoki, bari gusoma amagambo yanditseho n'umumama uri kuri mudasobwa, imbere yabo hari impapuro n'ibikombe birimo ibinini na terefone irambitse ku meza.

Abamama babiri bishimye bari gutegura ifunguro bafite inyanya imbere yabo, imboga hirya hari icupa ririmo indabyo n'isaha iri ku gikuta ifite inshinge inyuma yabo hari akabati karimo ibikoresho.

Abantu benshi bari ahantu hamwe bishimye bose bari guseka, bamwe bafite umusatsi muremure n'umugabo ufite umusatsi w'umweru n'ubwanwa bw'umweru, inyuma yabo hari ibiti bitandukanye.

Abagabo n'abagore bari munzu mu rubohero harimo umugore uri kuboha igiseke, abandi bose bicaye amaguru areba hamwe harimo umugabo wambaye ingofero y'abisilamu n'abagabo bakenye ibitenge.

Umu papa ufite umusatsi w’umweru wambaye amadurubindi na ekuteri mu matwi, wambaye umupira ujya gusa umweru n’ipantaro y’umukara ifite umushumi w’umweru imbere, ufite imitsi ku maboko, uteruye utwuma, inyuma ye hari ibiti n'ibyatsi.

Umumama umanitse amaboko, ufite akenda karenduka mu kirere gafatanya intoki zose, wambaye ikanzu y'ubururu n'umupira ujya gusa umweru, uri kwitabwaho n'umuganga wambaye umwenda w'umweru mo imbere, inyuma yambaye itaburiya y'umukara, ufite umusatsi uzinze.

Umupapa wambaye umupira w'ubururu ndetse apfumbatije akantu mu ntoki k'ubururu na ko, ari kumwenyura afite imvi z'umukara, ndetse n'umusatsi w'umweru, inyuma afashwe n'umumama mu bitugu wambaye umwenda w'umweru, hirya hari ibikuta bitatse amabara y'umweru n'umukara.

Umumama wambaye umwenda w'ikigina, ufite impeta mu kaboko, wambaye imfashakureba n'igitambaro yiteze mu mutwe, inyuma ye hari umumama uri kumusekera, wambaye itaburiya y'ubururu, ufite n'icyuma gisuzuma abarwayi mu gatuza.

Umupapa wambaye umwenda w'umweru, ufite umusatsi w'umweru, uri kurya, ufite ikiyiko mu ntoki, uri gusukirwa ji ivuye mu icupa n'umumama wambaye itaburiya ijya gusa ikigina, mo imbere harimo umupira w'umweru.

Umupapa munini wicaye mu ntebe y'inyegamirwa wambaye ishati y'ubururu n'agapfukamunwa, uri kwitabwaho n'umumama wambaye ishati y'icyatsi n'agapfukamunwa, ufite umusatsi uzinze, hirya hari inzu n'ibiti.

Inyubako itangirwamo ibyo kurya, umupapa n'umumama bicaye bari kurebana, imbere yabo ku meza hateretse amasahani ariho ibyo kurya, inyuma hari umusore uhahagaze wambaye ikarita y'akazi mu gatuza, wambaye n'amadarubindi.

Umumama wambaye umupira w'ubururu ufite inkoni y'icyuma, wambaye agakomo mu gatuza, ufite umusatsi uboshye uri kumwe n'umugabo wambaye ishati y'ubururu, ufite icyuma mu ijosi ufite ubwanwa bw'umukara n'umusatsi w'umukara.

Umupapa wicaye ku ntebe, wambaye umupira w'umweru, ipantaro ijya gusa umweru, uri kwitabwaho n'umumama wambaye itaburiya y'ubururu, ufite umusatsi uzirikishije umubano, hirya hari umufariso.

Umumama wambaye amadarubindi, ufite icyuma uri gukata imboga, iruhande hari indimu n'amaronji akase n'inyanya imbere, wicaranye n'undi mumama witangiriye itama ufashe igisuperi mu ntoki.

Umupapa ufite umusatsi w'umweru, wambaye imfasha kureba n'umupira w'umukara w'amaboko maremare n'ipantaro y'umukara, wicaye mu kagare k'abafite ubumuga, inyuma ye uri gusunikwa n'umumama ufite umusatsi uboshye, uri guseka.

Abagabo, abagore n'abana bicaye ku ntebe bose barimo guseka, umugabo umwe wambaye isaha ku kuboko, inyuma hariyo indabyo, hejuru ku gikuta hari kwaka itara.

Umumama ufite umusatsi w'umweru uvanze n'umukara uri guseka, wambaye akantu k'agatambaro ku kaboko, inyuma ye hari undi mumama utwite wambaye akantu k'umuhondo mu imbere.

Umukobwapa ufite umusatsi w'umukara ugaragara ugutwi kumwe wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara wiziritse umukandara mu nda, inyuma ye hari umugore ufite umusatsi w'umukara wambaye ishati y'ubururu n'umupapa uri kugendera ku byuma.

Umupapa ufite umusatsi w'umweru uvanze n'umukara, ubwanwa bw'umweru, wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara, ufite isaha ku kuboko, wunamye uri gukora hasi, hirya ye hari undi mumama umufashe ku bitugu wambaye itaburiya y'ubururu.

Umumama w'umusatsi muremure w'umukara wambaye ikarita y'akazi mu gatuza uhetse igikapa mu mugongo ufite ikindi gikapa mu ntoki ufashe ku rutugu umu mama ufite icyuma mu ntoki wambaye ingofero witeye umwitero mu gatuza inyuma yabo hari ishyamba.

Umumama munini wicaye mu kagare k'ababana n'ubumuga, wambaye n'isaha ku kuboko, iherena ku gutwi uri kwitabwaho n'umumama wambaye itaburiya y'ubururu, ufite imisatsi miremire iteze urugori...

Umumama wambaye umukenyero ufite urunigi mu izozi, umusatsi w'umweru, wambaye agakomo ku kaboko uri kumwe n'umupapa wambaye umukenyero, inyuma ye hari abantu benshi babashagariye.

Abantu benshi bicaye mu nyubako y'inama, bambaye imipira y'umweru, bicaye ku ntebe z'umweru, umwe ufite icupa ry'amazi, imbere hari umuntu uri gufata amashusho n'undi uri kwigisha.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama, bamwe bambaye amakoti, abandi ntayo bambaye, harimo n'uwambaye karuvati, inyuma yabo hari igikuta kigizwe n'amabara ajya gusa umutuku, umukara n'umuhondo.

Abagabo n'abagore bicaye ku gikuta cy'inyubako, bambaye imyenda itandukanye bari kureba mu cyerekezo kimwe, mu gikuta cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku n'umubare kane, uriho n'igishushanyo kinyuranyijemo kabiri.

Umupapa n'umumama bari kuganiriza abana, abana babiri bambaye imyenda y'umweru na karuvati n'amapantaro y'ubururu, amasogisi y'umweru n'inkweto z'umukara, inyuma yabo hari ibikarito bishushanyijeho abantu n'amagambo yanditse hagati ku ifoto.

Umugabo wambaye ingofero y'umukara n'amadarubindi, ufite urupapuro mu ntoki rwanditseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku, inyuma ye hariyo inyubako ndende n'igiti kirekire.

Icyapa cy'icyatsi cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, gishushanyijeho umubare gatatu, imirongo ivunaguye, igishushanyo cy'umutima uri mu ibara ry'umweru.

Umupapa wambaye udupfukamunwa tubiri, wambaye umupira w'umweru, inyuma hariho ishati y'ubururu, uri guterwa urushinge n'umugabo wambaye agakoti k'icyatsi n'ingofero n'amadarubindi, hirya hari igitambaro cyanditseho amagambo ari mu ibara r'umweru.

Abantu benshi bari mu nama bafite amashusho bafashe mu ntoki, iruhande rwabo hari ameza arambuyeho igitambaro cy'umutuku, ahantu bari harimo itapi ishashemo, inyuma yabo hari insakazamashusho, inyuma yabo na none kandi hari igitambaro gishushanyijeho ibimenyetso bitandukanye.

Abagore benshi batandukanye bambaye imyenda y'umweru bari kumwe n'abambaye impuzankano z'umukara zanditseho amagambo y'umutuku mu gatuza, bari mu nama imbere yabo hari mudasobwa n'amakayi, umwe afashe ku meza.

Umumama wambaye itaburiya y'umweru, ufunze igipfunsi, wambaye agapfukamunwa ku kananwa n'ingofero y'ubururu, inyuma ye hari undi muntu n'ubusitani, hino hari amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza hashushanyijeho ikarita ya Afurika.

Abantu benshi bahagaze bari kwifotoza, imbere yabo hari ubutaka butariho ikintu na kimwe, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho amagambo atandukanye, harimo umugabo wambaye imyenda y'icyatsi gusa n'ingofero y'icyatsi n'inkweto z'umukara, inyuma yabo hari imodoka ihahagaze.

Umugabo n'umugore bambaye amakarita y'akazi mu gatuza bafite ibyapa mu ntoki bishushanyijeho ikimenyetso kijya kumera nk'uruziga ariko kidahuye, hasi handitseho amagambo n'imibare, hejuru hari amagambo yanditse mu ibara rijya gusa ubururu.

Umugabo n'abagore bambaye amakarita y'akazi mu gatuza, afite imishumi y'ubururu, bari iruhande rw'ameza ateretseho icupa ry'amazi, intebe z'umutuku, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho icyo bakora.

Abantu bambaye imyenda y'imyeru ifunze hose, yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, bambaye udupfukamunwa ndetse n'ingofero zo mu mutwe, inyuma yabo hari undi mumama wambaye imyenda y'isine n'agapfukamunwa.

Amagambo yanditse mu ibara ry'umutuku anyuranyije mu ikarita y'Afurika iri mu ibara ry'umuhondo, hasi hari amagambo yanditse mu ibara ry'umutuku n'andi yanditse mu ibara ry'umukara ashushanyijeho umuntu ufite imisatsi iboshye, wambaye umupira w'umutuku.

Ikirangantego kiri mu ruziga rw'icyatsi, amagambo ari mu ibara ry'umweru, amafoto y'abantu atandukanye, bamwe harimo uwambaye amarinete, undi wambaye umwitero mu mutwe.

Aba mama babiri bose bambaye agapfukamunwa, amakanzu y'ubururu, umurwayi uryamye ku gitanda wambaye ikanzu y'ubururu bari gutera urushinge. Umugore ufashe akantu mu ntoki wambaye ga z'umweru.

Abapapa babiri bambaye amakoti y'ubururu, umwe wambaye isaha, bafite ibitabo mu ntoki, inyuma yabo hari igitambaro gishushanyijeho uruziga rurimo ikawa, ikirangantego cy'igihugu, handitseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu.

Abantu batandukanye bari mu bikorwa ngiro, umwe wambaye ingofero ijya gusaka kaki n'igisubeti cy'ubururu, undi uri ku mirasire, undi uri ku mashini, hirya hari amagambo yanditse mu ibara ry'umweru ndetse n'irya.

Umwana uryamye ufite umusatsi w'umukara uri mu myenda y'umweru. Hasi hari amagambo yanditse mu ibara ry'umweru, handitseho umubare umwe. Hasi hariho ibimenyetso bitandukanye. Hejuru handitseho, hariho ibara ry'ubururu, umutuku, n'ikigina.

Umwana uri gukora mu bwanwa bw'umugabo wambaye itaburiya y'umweru, umwana wambaye umupira w'icyatsi, inyuma yabo hari indabyo, amagambo y'umweru yanditseho aciyeho umurongoda andi adaciyeho umurongo, amagambo y'umukara yanditseho hejuru, icyapa kirimo ubururu handitsemo n'andi magambo.

Abaganga bari kwita ku murwayi uryamye mu bitaro, woroshe hose, bari gukorakoranya insinga bamurebera hirya kuri mudasobwa, bose bambaye imyenda ipfutse umubiri, harimo uwambaye amadarubindi, abandi bambaye udupfukamunwa.

Amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu, ariho ibara ry'isine, ndetse n'icyatsi, hasi hariho amagambo y'umukara atsibaze, ikimenyetso cy'umutuku, n'amagambo y'umutuku yanditse mu mpina.

Ishusho y'uruziga igezwe n'ubururu ndetse n'umweru, amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu, ibimenyetso by'uruziga bigizwe n'ubururu ndetse n'icyatsi. Ibara rirerire ry'icyatsi, amagambo y'umutuku ari mu ibara ry'umweru.

Abantu bari mu cyumba cy'inama hari abantu benshi bicaye bari kureba imbere nabandi bicaye ku ntebe z'imbere, inyuma yabo hari igikuta kiriho amashusho hariho abantu n'amagambo yanditseho.

Ikirangantego kiriho agaseke ikawa isaka izuba ipfundo hasi handitse amagambo ari mw'ibara ry'umweru atsibaze n'ayandi aciyeho umurongo ari mw'ibara ry'umweru ikirangantego kigizwe n'uruziga rw'umweru kiri mw'ibara ry'ubururu.

Abantu bane baturuye icyapa cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, iruhande rwabo hari inzira, inyuma hari inzu, hirya hari ibiti birebire by'inganzamarumbo.

Umupapa uri guseka hejuru ye hari amagambo yanditse mu ibara ry'icyatsi, munsi handitseho umunsi byanditse mu ibara ry'umukara, hasi hari amagambo yanditse mu ibara ry'umweru ndetse n'ikirangantego kiri mu ishusho y'umutima.

Aba mama batatu bose bambaye udupfukamunwa, iruhande rwabo har’amagambo yanditse mw’ibara ry'umweru munsi haciyeho umurongo, hasi hariho ikirangantego, iruhande rwacyo handitseho amagambo, inyuma y'abantu hari ibyapa bimanitse ku gikuta.

Inzu ndende ikorerwamo ubuvuzi, ifite amadirishya abiri agizwe n'ibirahure, moto ziparitse iruhande ebyiri, igiti kinini gisumba inyubako, indabyo ziteye iruhande rw'inyubako ndetse n'inzira bagenderamo.

Inyubako ndende igeretse inshuro nyinshi, imbere yayo hariho icyapa kiri mu ibara ry'umweru, hari igice kiri mu ibara ry'umukara cyanditsemo umubare cumi na kabiri, hejuru hariho amagambo yanditse mu ibara ry'umweru, iruhande hari igiti.

Inzu nziza kandi ndende ifite ibigega hejuru ndetse n'amatara, ifite amadirishya y'ibirahure, urwego rwikorewe n'umugabo, imodoka iri gusohoka mu gipangu, umuntu wicaye aho binjirira n'icyapa kigaragaza ibikorerwa aho hantu, indi modoka iri kugenda muri kaburimbo igaragaza urugi gusa.

Inyubako ndende yubakishije amakoro ,hejuru ku gisenge hahagaze abantu imbere hari inzira igenderwamo ,ku ibaraza hari abantu bari gutambuka iruhande rwayo hari jaride iteyemo ibyatsi.

Umu mama uhetse umwana wambaye ingofero ijya gusa umutuku witeye igitambaro cy'umweru mu gatuza hatambitsemo umurongo w'ubururu wicaye iruhande rw'inyubako isuzumirwamo abarwayi. umuryango umwe ufunguye ,undi ufunze iruhande rwaho hari inzira yinjira muri icyo kigo.

Ikigo nderabuzima, iruhande rwacyo hari sikariye uzamuka ufashe ku byuma, ujya hejuru mu nyubako yanditseho amagambo akorerwa aho hantu, mu busitani harimo igiti cy'umukindo n'ikindi giti ndetse n'ibyatsi bitandukanye, hejuru yaho hari abantu benshi.

Inzu nziza ifite amabati y'ubururu n'ibirahure, madirishya, ifite umwanya w'aho baparika imodoka, hari aho bakirira abantu n'ubusitani iruhande rwayo.

Inyubako ivurirwamo abarwayi, irimo igitanda n'intebe, hirya ku gikuta hariho igishushanyo cy'umuntu uri kuguruka, n'undi uhagaze, iruhande hari ameza, hejuru hariho robine.

Abantu bicaye mu icyumba cyinama ku murongo ku ntebe z'icyatsi zifite amaguru y'umweru iruhande rwabo hateretse amacupa y'amazi inyuma hari igikuta kiriho urumuri rwinshi.

Inyubako irimo ibitanda bibiri bigizwe n'ibara ry'umweru ndetse n'ubururu bifite amapine, ameza afite amapine, akabati, insinga z'amashanyarazi, amarido inyuma ndetse n'ibirahuri biri mu madirishya.

Abantu bari kugenda mu nzira zitandukanye bajya ku nyubako yubakishijwe amakoro, ifite amadirishya afite ibirahure, iruhande rwabo hari icyapa cyanditseho amagambo giteretse mu busitani burimo ibiti n'ibyatsi.

Inyubako ndende igerekeranyije ifite imiryango myinshi hejuru isakajwe n'amabati ajya gusa umutuku, handitseho amagambo agaragaza ibikorerwa aho hantu iruhande rwaho hari icyapa kigaragaza, ibyapa bibiri bigaragaza ibikorwa bikorerwa aho hantu.

Abantu bari gukora isuku mu buryamo bw'abarwayi, hirya hari umugabo wambaye itaburiya y'umweru, n'umurwayi uryamye ku gitanda, upfutse ikirenge, amarido akubye, ibitanda bidashashe, hirya hariho amanimero y'ibitanda.

Abantu bambaye amashati y'umweru. Imbere yabo hari undi muntu uri kubareba, bari kwinjira mu nyubako yubakishije ibyuma. Hejuru handitseho amagambo yanditswe mu mpine.

Inyubako iteyemo intebe z'umukara ziri kumurongo, hagati harimo inzira abantu banyuramo, hejuru ku gikuta harimo imfatamashusho, imbere hateye ameza uvuga ijambo ahagararaho.

Inyubako bavuriramo abarwayi, ifite ibitanda bishasheho amashuka y'ubururu avanze n'umweru, hirya hari amarido n'insakazamashusho imanitse ku gisenge hejuru.

Umwana wicaye ku ntebe, wambaye ishati y'umweru, uri kwitabwaho n'umuganga, wambaye itaburiya y'umweru, iriho umutuku ku mufuka, wambaye agapfukamunwa n'amaherena ku gutwi, hirya yabo hari akabati.

Icyapa gishushanyijeho ibimenyetso bitandukanye n'amagambo atandukanye ari mu mabara atandukanye, hirya hari ubusitani inyuma yaho hari inyubako zisize amabara y'ubururu n'umuhondo n'igiti giteye iruhande rw'inyubako.

Iduka ricuruza imiti y'abarwayi, imbere yaho hahagaze imodoka. Mu iduka hapanzemo ibicuruzwa bitandukanye, imbere ku iduka hari amagambo yanditseho ari mu ibara ry'icyatsi n'andi ari mu ibara ry'umweru. Mo imbere harimo umuntu wicayemo wambaye umupira w'umuhondo.

Umwana wambaye ipantaro y'umukara n'ikoti ry'umukara mo imbere harimo ishati y'umweru, uri gusunika umupapa wambaye ishati y'umweru wicaye mu kagare, imbere yabo hari umukobwa ufite umusatsi w'umukara wambaye n'umupira w'umweru.

Iduka ririmo imiti itandukanye, igiye ipanzwe mu tubati dutandukanye, imwe iri mu macupa indi iri mu bikarito, hari ishushanyijeho umuntu wifashe ku matama, hirya hari mudasobwa.

Inyubako zifite inzugi n'amadirishya by'ibyuma, hirya hari ikigega imbere yaho hari umugezi uri mu busitani, imbere yabwo hari indabyo n'igiti kirekire kiri imbere y'inzu.

Inyubako iteyemo intebe ku murongo, hirya ku gikuta hariho igishushanyo cy'ijisho kirimo ibara ry'ikigina, umweru n'ubururu ndetse n'umukara, hejuru hari utuntu tumanitsemo, tugizwe n'ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, hirya hari umuryango.

Inyubako irimo abantu mu imbere urebeye mu madirishya hari umuntu wambaye itaburiya y'umweru wifashe mu mugongo nundi wicaye hiya hari ahantu hacomekerwa telefone igizwe n'amabara y'umuhondo, iruhande ku rugi hari umumama uteruye umwana n'umugabo wegamye ku gikuta.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'itabiriya y'umweru iruhande rw'iwe hari icyapa gishushanyijeho ibintu bitandukanye n'umuryango ukinguye, hejuru ku nyubako hariho ikimenyetso cy'ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda, harimo agaseke n'isaka munsi handitseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu n'itara ricometse ku gikuta.

Umupapa wicaye ku nyubako yubakishijwe amabuye, inyuma ye hari igiti kinini, yambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara, hirya yiwe hari ubusitani ndetse n'inyubako iri hirya.

Amashashi aryamye ku gitanda arimo amaraso inyuma hariho akapa kandidikishijwe imashini n'imyanya yandikishijeho ikaramu, hirya hari abarwayi baryamye ku gitanda, hari umuntu uri kubitaho wambaye agapira kabugenewe.

Abarwayi babiri barwariye kwa muganga baryamye biyoroshe umwe ufite telefoni ku musego, hirya hari ifoto imanitse ku gikuta iriho abantu, inzitiramibu zizingiye mu kirere n'irido.

Umugabo ufashe mu mufuka iruhande rw'inyubako, hirya hari umuryango ukinguye, hejuru ku ibaraza hacometseho itara riva mu nzu n'amagambo yanditse ari mu ibara rijya gusa umukara, hejuru hari ikiziga gishushanyijemo agaseke n'isaka, imbere y'inyubako hari ubusitani.

Inyubako ziri mu ishusho y'uruziga, hirya yaho hari indi nyubako imbere yayo hari igiti cyihateye hino y'aho hari inzira ijya kuri iyo nzu, hino hari ubusitani ndetse n'ikirere.

Inyubako ifite irembo binjiriramo imbere yaryo hateye igiti iruhande hari inzira ishashwemo amapave, ku nyubako handitseho amagambo ari mu ibara ry'umweru munsi hari igishanyo cya mpande eshatu.

Abantu bambaye imyenda y'imyeru, hejuru bari ku meza, iruhande rw'ameza hariho icupa, iruhande rwabo hari urupapuro rw'isuku rurambitse ku meza, hirya hari icupa riri mu kabati.

Inyubako irimo ibyumba bitandukanye, hirya hariho urutsinga runini na kizimyamwoto, hejuru harimo amatara atandukanye acanye urumuri rw'umweru, harimo n'insakazamashusho.

Inyubako ifite ibaraza rihagazeho imodoka hirya mu nyubako bacururizamo, iruhande rwayo hari ibiti biteye mu madebe, na kizimyamwoto iri ku nzu n'imodoka yindi iri kugenda.

Inyubako irimo intebe zitandukanye ameza, ibyuma by'ikoranabuhanga, mudasobwa, igitanda kiryamwaho n'umurwayi, hirya hari agakoresho bashyiramo imyanda n'amarido.

Inyubako ivurirwamo abarwayi harimo intebe z'amoko atandukanye, hirya hari akantu k'akadobo k'umuhondo, hejuru hari amabara y'umutuku ndetse n'umukara, hirya hari icyapa kihahagaze cy'umweru kirimo amabara y'ubururu.

Inyubako ndende igeretse, yubatswe n'amabuye, ifite ibaraza munsi hari abantu bahagaze, iruhande rw'aho hari indabyo, n'inzira ijya kuri iyo nyubako.

Inyubako ifite umuryango ufunguye, hejuru yayo hariho ibimenyetso bitandukanye, mo imbere harimo igitanda n'akabati ndetse n'amagambo yanditse hirya ku gikuta, hejuru yaho, hari akantu bakandaho k'umukara.

Iduka ririmo imiti itandukanye riri mu myanya itandukanye, imbere yayo hari udupapuro tuhamanitse twanditseho ibiri muri uwo mwanya, hirya hari ibintu by'ubukungu n'inzira iri hagati nyabagendwa.

Inzu ifite ibaraza rihagazeho umuntu, hari undi muntu uri kugenda imbere y'iwe, hari abantu bari kujya ku nyubako, hirya hari abantu bikoreye indobo, inyuma yabo hari igiti kiriho idarapo ry'Igihugu.

Abamama babiri bari mu nyubako, umwe uteruye umwana wambaye itaburiya y'umweru n'agakoma mu gatuza, undi ufite umusatsi uboshye wambaye itaburiya y'ubururu, irimo ifite umuguno w'umweru wambaye imfashakureba.

Inyubako ifite ibirahure umuntu yireberamo, hirya hari umuntu wambaye ingofero y'umuhondo n'umupira w'umuhondo, imodoka iri kugenda, mu imbere mu nzu harimo umuntu wambaye ikanzu y'umutuku uzamuye akaboko n'undi wambaye ishati irimo amabara y'umweru n'umukara.

Inyubako ivurirwamo abarwayi, ku gikuta hariho isaha iriho urushinge, hari n'ifoto iri ku gikuta y'indabyo z'umutuku zivanze n'umuhondo, hari n'indi foto iriho indabyo z'umuhondo n'umusozi, hino hari mudasobwa imanitse mu gikuta hejuru.

Inyubako nziza ifite igisenge cy'amabati y'umutuku hamanutsemo imirongo, itara ku rubaraza n'ibaraza aho abantu bahagarara, amagambo y'umukara yanditse mu ibara ry'umweru ndetse n'umupapa wambaye ingofero y'ubururu.

Icyapa kirekire gikozwe mu byuma, hariho igishushanyo cya mpandeshatu n'ikindi kiri mu ruziga harimo agaseke kari mu ruziga, inyuma hari igiti n'ubusitani, hirya hari imodoka zihahagaze n'inyubako n'idarapo.

Inyubako ivurirwamo abarwayi irimo ameza, ibitanda bitandukanye bifite imisego, hirya hari amarido asinze na mudasobwa icyometse ku bindi byuma, hasi hari akantu bajugunyamo imyanda.

Inyubako nziza, zifite ubusitani buteyemo imikindo, bukikijwe n'amatafari ahiye, bufite indabyo ziconze neza, hari inzira n'imodoka ziri hirya zihagaze ahantu hatwikiriye, hirya hari imiturire n'amashyamba.

Umurwayi uryamye ku gitanda kwa muganga wambaye ibirenge wambaye ikanzu y'ubururu bapfutse mu maso uri kwitabwaho n'umuganga wicaye ku ntebe ifite akarindi k'ubururu yikaraga wambaye ingofero ijya kuba ubururu n’ikanzu y'ubururu.

Inyubako y'abarwayi, hariho umurwayi uryamye ku gitanda n'undi mugabo umuhagaze iruhande wambaye umukandara w'umukara, ipantaro y'umukara, umupira w'ubururu, uri kuzinga inzitiramibu y'ubururu.

Inyubako ndende igizwe n'imiryango myinshi itandukanye y'ibirahuri, mo hirya harimo abantu bari kugenda, hejuru ku gikuta hari imyanya y'urumuri, harimo n'imfatamashusho.

Umumama ugaragara nk'aho ari umuganga wambaye agapfukamunwa, inyuma ye hari abandi bagabo nabo bambaye agapfukamunwa, ibimenyetso bigaragaza gutambuka igihe cyabugenewe ibitanda bikikijwe n'amashuka...

Icyumba gisuzumirwamo abarwayi hejuru harimo amatara y'inyunge, harimo ibitanda by'amapine, hino hari ubuhunikiro bw'imyanda buri mu ibara ry'ubururu, hirya hari icupa rirambitse ku meza ahari.

Umupapa wicaye mu ntebe y'inyegamirwe, wambaye ishati y'umutuku ifite ibifungo, wambaye amadorubindi, uri kumwenyura, ufite umusatsi w'umweru, uri kwitabwaho n'umumama wambaye ishati ijya gusa ubururu, ufite umusatsi uzirikishije umubano.

Inyubako irimo ibikoresho bitandukanye harimo intebe, ameza, igitanda, hirya ku gikuta hashushanyijeho ingwe, intare, inguge, inzovu n'utundi tunyamaswa tuguruka.

Abantu batatu bambaye amataburiya y'umweru hariho ikiranganego mu gatuza biteze mu mutwe bambaye udupfukamunwa iruhande rwabo hari amacupa ahari hirya hari undi muntu ugaragarira kwa ari kure.

Umuma wambaye ikanzu idozwe mu gitenge wicaranye n'umugabo wambaye imyenda y’ubururu, inyuma yabo hari inyubako irimo ibikoresho bitandukanye n'ikibase hirya hari indabyo n'imibyare.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye ifite inkingi n'ibaraza imbere yayo hahinze indabyo n'ubusitani buhari, inyuma hari ibiti birebire bisumba inzu.

Inyubako irimo icyuma umurwayi anyuramo, iruhande rwaho hari mudasobwa, hirya ku gikuta hariho isaha iri mu ibara ry'umweru, n'umukara, n'urugi rufunze, ku kindi gikuta hariho ishusho igizwe n'amabara y'icyatsi, ikigina, n'ubururu.

Inyubako nziza iteye irangi rijya gusa umweru, rifite umuryango hejuru handitseho amagambo ari mu rurimi rw'ikinyarwanda, iruhande rwayo ifite ahantu bashyira imyanda, inyuma hariyo ibiti, iruhande rundi rwo hepfo, hari abana barwicayeho n'ababyeyi babiri.

Inyubako nziza ifite inzira yo kugenderwamo isakaje amabati ajya gusa ikigina, hari ubusitani bwiza buteye ku murongo bw'ibihingwa bitandukanye.

Inyubako ifite imiryango ibiri, umuryango umwe uriho ifoto y'umuntu ishushanyije ku gitambaro, hejuru yaho hari ijisho, ibirahuri bisa ubururu, hejuru ifite amabati y'ubururu hejuru yaho hari igihu cy'ubururu.

Inyubako irimo ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga harimo igitanda gishasheho ishuka y'umweru abantu bari kureba ku gikuta kiriho mudasobwa hejuru harimo akongera umuyaga.

Inyubako ndende igeretse imbere yayo hahagaze abantu benshi bambaye imyenda isa hejuru ndetse n'ubusitani buhari imbere yayo hari imodoka iri kugenda iruhande rw'igipangu n'igitambaro kirambuye ku gipangu cyanditseho amagambo n'ikirangantego.

Inyubako ifite ishusho y'umweru, ifite imiryango y'ibirahure, hejuru yayo yanditseho nimero n'amagambo, hirya ku gikuta hariho abantu babiri bari kugenda n'ibyerekezo.

Inyubako ebyiri ndende zubakishije amatafari ahiye, zigizwe n'ibirahure imbere yaho handitseho amagambo ari mu ibara ry'umweru n'umurongo uciye ku gikuta yanditseho ijambo ririi mu ibara ry'umukara iruhande rwaho hari ubusitani n'amatara y'umweru ari mu busitani n'inzira ngenderwamo.

Icyumba kirimo ifoto imanitse hejuru ishushanyijeho abantu, ku gikuta hariho insakazamashusho, hasi hari igitanda n'intebe, hirya hari kizimyamwoto na n'isakazamashusho iri muri icyo cyumba.

Abantu benshi batandukanye, bambaye imyenda itandukanye, bahagaze imbere y'inyubako ndende yanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu, iruhande hari inzira n'ubusitani, hari n'umubyare muremure.

Inyubako zikikijwe n'ubusitani buhinzemo ibyatsi n'ibiti iruhande bwarwo hari inzira ishashemo amapave hirya yikirere hari insinga z'amashanyarazi n'ikigega gihari n'amatara ari ku nzira.

Inyubako ifite ibyumba bigabanyijemo amarido, harimo umurwayi aryamye ku gitanda, iruhande hari intebe, hirya hari umuntu uhagaze, hejuru ku gikuta hariho amatara.

Inyubako ndende zifite ibaraza rinini ry'igice kinini kigizwe n'ibirahure munsi hari ahantu bahagarika imodoka hari umuturage uri kwitambukira mu muhanda iruhande hari ubusitani n'icyapa gishushanyijeho ikimenyetso kimeze nk'igihanga cy'inka hirya hari ikindi cyapa cyanditseho amagambo atandukanye.

Inyubako isa neza irimo intebe n'ameza, hirya ku gikuta hashushanyijeho igishushanyo kirimo amabara y'umweru, umukara n'ikigina, hejuru hariho kamera zisakaza amashusho, hirya harimo n'ibyumba bitandukanye.

Umupapa uryamye ku gitanda wambaye umupira w'umweru n'ingofero y'umukara mu mutwe n'agapfukamunwa k'umukara, uri kwitabwaho n'umuganga ufite umusatsi, wambaye itaburiya y'umweru.

Inyubako ikorerwamo ubuvuzi irimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga harimo mudasobwa, intebe bicaraho, amakayi babikamo ibyo banditse,

Ikigo kizitiwe n'ibyuma, mo imbere harimo jaride n'umuntu uryamyemo, yubakishijwe amatafari y'impunyu n'abantu bari kugenda iruhande rwaho ndetse n'icyapa kigaragaza ibikorwa bibera muri icyo kigo.

Inyubako ndende, ifite ibaraza imbere, hepfo yayo hari imodoka iri kugenda mu muhanda, iruhande rwayo hari ubusitani buzitiye, hagati harimo itara n'igiti cy'umukindo muremure.

Inyubako ndende igeretse ifite ibyumba bitandukanye, amadirishya y'ibirahuri, iriho kizimyamwoto, iriho icyapa cyanditseho inzu y'ababyeyi n'impinja, iriho igishushanyo cy'umwana uri kuvuka, hirya hari umugore utwite wifashe ku nda.

Inyubako ndende ifite amagambo yanditse hejuru, imbere yayo hahagaze imodoka, iruhande hari umucuruzi w'amayinite uri mu umutaka hirya hari ibiti.

Umwana uri kwigishwa uko bikorera isuku y'amenyo, imbere ku kibaho hahagaze abamama babiri n'abagabo babiri, umugabo ufite itaburiya y'umweru, wambaye agapfukamunwa ku kananwa, iriho ikirangantego cya kaminuza y'u Rwanda.

Umugabo bigaragara ko arwariye kwa muganga, aryamye ku gitanda gishasheho amashuka y'umweru, wegamiye umupira, hirya hari ibyuma by'ikoranabuhanga n'insinga zicometse, wambaye isaha ku kuboko y'icyuma.

Inyubako irimo igitanda gifite amapine, kiriho matora hejuru hariho umusego, igikuta gifite impapuro zisuku hasi hari ubukarabiro n'agakoresho bashyiramo imyanda.

Inyubako irimo intebe imbere yazo hari ameza, hirya ku gikuta hariho imyanya iriho imfashakureba, hejuru hariho abagabo bambaye imfashakureba, hirya hari umugore wambaye ikoti ry'ubururu.

Umumama uhetse umwana wicaye imbere y'inyubako ifite ibaraza ririho kaze neza imbere haririmo umuntu uri iruhande rw'inyubako hari mo ubusitani hino hari inzira nyabagendwa.

Umugabo ufite icupa ry'abazi ry'ubururu wiziritse agatambaro ku kaboko k'umweru akandi kaboko haziritseho agatambaro gasa umukara ufite urutsinga rumanutse mu gatuza wambaye ipantaro y'ikigina.

Umu papa wicaye ku buriri bari kumuzirika agatambaro mu kirenge uri kuzirikwa n'umu mama wambaye isaha ku kuboko, ikarita y'akazi mu gatuza, ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, hirya hari ibyuma by'ikoranabuhanga.

Umupapa wambaye udukomo dutandukanye ku kuboko ufite umusatsi ukaraze, wambaye umupira w'umukara, ikabutura y'ubururu imanutsemo imirongo y'umweru n'amasogisi y'umukara n'inkweto z'umukara, zirimo ibara ry'umweru, hirya ye hari umupira wo gukina.

Ameza ariho ibikoresho bikoreshwa mu myitozo ngororamubiri n'isume y'umweru, hejuru hariho icupa ry'amazi rifite umufuniko usa icyatsi, hino hari isahani iriho inyama, amagi, ibishyimbo, imineke, tungurusumu, karoti...

Abantu benshi bari mu rungano rw'urubyiruko bahagaze mu kibuga cyishushanyijemo imirongo, hirya hari inyubako inyuma yayo hari ibiti n'imibyare.

Inyubako iri mu ibara ry'umweru, harimo igitanda cy'ubururu n'intebe y'ubururu, hirya hari igikuta kiriho isaha n'akabati kari mu nzu, hejuru ku gikuta hariho mudasobwa.

Umugabo wicaye mu ntebe z'umweru, wambaye umupira w'umweru ufite ibifungo, mo imbere harimo agapira k'umukara, ufite ubwoya ku maboko, uri kwikonjesha n'umwenda ku kuboko.

Umukobwa uhagaze ahantu ku musozi kureba inzu zubatse mo hasi ndetse n'ibiti biri hasi iyo ngiyo, wifashe mu mugongo uri kwigorora, ufite umusatsi uboshye w'umukara wambaye umupira ujya gusa icyatsi.

Umuntu uryamye ku buriri wambaye ikabutura y'umukara udafite ubwoya urambuye ukuguru kumwe uhinnye mu ivi, uri kwitabwaho n'umugabo wambaye itaburiya y'umweru uri mukanda mu ivi.

Umupapa uri kwirukanka, akaguru kamwe kari inyuma akandi kari mu kirere, ivi ryihinnye, iruhande rwiwe hari akantu k'akazeru kari mu mabara y'icyatsi, umuhondo n'ubururu, ukunje ingume.

Ufite ikaramu uri kwandika ku gikayi gisa umweru wambaye ishati y'umweru, hirya ye hari ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu myitozo ngororamubiri, iruhande rw'iwe hari icupa ry'amazi rifite umufuniko w'ubururu ndetse n'isume y'umweru n'urubuto rwo kurya.

Umugabo uriguterura icyuma cy'imyitozo ngororamubiri. Inyuma ye hari ibyokurya bitandukanye: inkoko, umuneke, avoka, inyanya, indimu, amazi, inanasi, karoti, amagi, na ji yo kunywa.

Abapapa babiri bari mu nzu y'imyitozo ngororamubiri, umwe wambaye inkweto z'umukara, ikabutura y'umukara, isaha ku kuboko, umupira w'umutuku ushushanyijeho uruziga mu gatuza, ufite umupira mu kaboko, undi wambaye umupira w'umukara n'ipantaro ijya gusa ikaki.

Intuburamashusho ifite amaso atatu, afunikishijwe udufuniko tw'umukara, handitseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, hirya hari irindi jisho rinini rifunikishijwe n'umufuniko w'ubururu, ndetse n'akandi kenge kagizwe n'umufuniko w'ubururu.

Abantu benshi bari muri siporo, bamwe bunamye, abandi bahagaze, bambaye imyenda itandukanye, hirya yabo hari ibiti binyuranye, itara, n'inzira zo kugendwamo, umumama wambaye imyenda y'ubururu hejuru, ipantaro y'umweru n'inkweto z'umuhondo.

Umumama uri mumyitozo ngororamubiri wahinnye ivi wambaye inkweto z'umweru zirimo amabara y'umuhondo ubururu umutuku n'ikaki wambaye amasogisi y'umweru wambaye ipantaro y'ubururu n'isengeri yumukara.

Umupapa wambaye ikabutura y'umweru irimo amabara y'umutuku, handitseho amagambo ari mu ibara rijya gusa umukara, wambaye n'umupira w'umukara ushushanyijeho utuntu mu gatuza, wambaye udukomo ku maboko yombi, hamwe umweru ahandi umutuku, uri kugororwa amaguru, wambaye n'amasosogisi y'umukara, afite telefone mu ntoki.

Umumama wicaye kuri matora, urambuye amaboko kuri matora, uri kwitegereza umwana uri guseka, akoma mu mashyi, wambaye amasogisi y'umweru, inyuma ye hari undi muntu uharyamye witangiriye itama.

Umupapa wicaye mu ntebe, ukandagije akaguru kamwe hasi kambaye urukweto, akandi kanenetse mu kirere, iruhande rwiwe hari umugabo uhahagaze wambaye itaburiya y'umweru n'ipantaro ijya gusa ubururu n'inkweto z'umukara.

Umupapa uri mu myitozo, uri mu nzu irimo tapi igizwe n'amabara y'icyatsi n'imirongo itambitsemo y'umweru, uhagaze hejuru y'ikintu kiri mu ishusho ya mpande enye zingana, hirya urebeye mu birahure hariyo indabyo n'modoka iri kugenda.

Amashashi afunze neza, handitseho amagambo n'ibimenyetso, iruhande hari amacupa ari mu bwoko butandukanye, imbere yayo harambuye imiti iri mu dupaki tw'amashashi.

Umukobwa uri muri siporo urambuye akaguru kamwe, ahese urutugu, akaboko kamwe gafashe munsi y'ikirenge k'inkweto ifite hasi h'umweru, hejuru h'umutuku, na rase z'umutuku, wambaye amasogisi y'umukara n'ipantaro y'umukara.

Inanasi, amaronji, umuneke, tungurusumu, imidari, ibinini, icupa ry'amazi ndetse n'indimu zikataguye.

Ufite igikombe kinini kirimo amazi hasi hari ikindi gikombe giteretse ku meza bari gusukamo amazi ari kugeramo asa n'aho ari umukara uvanze n'umweru.

Umu mama uri muri siporo wambaye inkweto zifunze ikabutura y’ubururu isengeri y’icyatsi uri gusunika icyuma wahagaze ahantu hari ibara ry'icyatsi hirya ye hari igikuta kiriho amarido.

Umuntu wambaye ikabutura y'umukara wunamye mu muhanda wambaye n'isaha ku kuboko, hirya yiwe hari ibyatsi n'ikirere gisa ubururu n'umweru.

Abagabo babiri bari mu myitozo ngororamubiri, umwe upfukamye uri kuzamura ibintu mu ntoki. Ufite agatuza kaje imbere wambaye umupira w'ubururu, hirya hari undi mugabo uri kumwerekera uko bikorwa.

Umuntu uryamye ku gitanda kirambuyeho agatambaro k'umweru wambaye ikabutura y'umukara, uri kwitabwaho n'umuntu wambaye umupira w'umukara, wambaye udukomo ku maboko yombi.

Umuntu upfukamishije ivi rimwe, irindi ari kurikandisha ibiganza byombi, wambaye umupira w'amaboko maremare ujya gusa umukara, ikabutura y'umukara n'inkweto z'umukara, zifite hasi h'umweru n'amasogisi y'umukara.

Umukobwa muremure uri mu myitozo ngororamubiri, wahinnye akaguru kamwe akandi karambuye, ufatishije akaboko ku ivi, hirya hari idirishya ririmo imirongo imanutse n'undi umwe utambitse.

Abantu babiri bari mu ishusho y'uruziga ikoze urupfundo, hagati imbere harimo imirasire y'izuba iri mu ibara ry'umuhondo, umwe wambaye imyenda y'umweru undi wambaye imyenda y'ubururu, hasi handitseho amagambo arambuye.

Umupapa wambaye umupira w'amaboko maremare w'umukara, n'ikabutura y'umukara imanutsemo imirongo ibiri y'umweru, uri kuvurwa ukuguru, ufite akaguru kamwe karambuye, n'umumama uri kumwitaho, wambaye itaburiya y'ubururu.

Umugabo wambaye isengeri y'umukara, ifite umuguno w'umweru urambuye amaboko, ufashe munsi y'inkweto zirimo imirongo ivivuye, harimo n'uruzeru rufite imitsi ku maboko.

Umukobwa ufite imisatsi miremire izirikiye inyuma, umanitse akaboko uri kunywa amazi wakubiswe n'imirasire y'izuba, hirya hari umutaka, wambaye isengeri ijya gusa ubururu, imbere harimo akantu k'umukara.

Umupapa ufite ubwanwa wambaye umupira w'umukara mo imbere, inyuma hariho umupira w'umweru ufite ikora ry'umweru, urambuye akaboko, ufite agatambaro gakonje uri kugukoza ku kandi kaboko.

Akuma kari mu kirere kari kuguruka gatwaye igikarito kiriho ikimenyetso cy'umusara mu ibara ry'umutuku, hirya yaho hari ibiti bihazengurutse ndetse n'umuhanda, hariho nimero ndetse n'amagambo yanditse mu ibara ry'umweru.

Umuntu uryamye hasi wambaye umupira w'ubururu n'ikabutura y'umukara, urambuye akaguru kamwe akandi gahinnye hari umupapa uri kugakanda, iruhande rwabo hari umupira w'amaguru hirya hari abantu bari mu kibuga.

Umumama ufite imisatsi iboshye, wambaye umupira w'umutuku, urengejeho agakoti k'ubururu, kariho icyapa gishushanyijwe mu ibara ry'umweru, ufite akamashini uri kureba mu maso y'umwana ureba mu kirere, wambaye ikote ririho indumane.

Amagambo yandikishije ibara ry'umweru, umugabo uhagaze uhinnye ivi, ikirenge kiri inyuma, undi uhagaze uhinnye ivi urambuye n'amaboko, undi ugorora akaguru ahagaze iruhande rw'intebe, n'undi uhagaze uri kureba ku maguru y'iwe, hirya hari amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza.

Umupapa wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'ubururu, wicaye mu ntebe ufunze ingumi, mo imbere harimo akantu k'ubururu n'undi mupapa umufashe ku kaboko wambaye itaburiya y'umweru.

Abamama babiri bari kwifotoreza ku mwana, umumama umwe wambaye igitambaro cy'umweru mu mutwe, undi ufite umusatsi muremure, iruhande rw'umwana hari ibikinisho, inyuma ye hari intebe n'ihema ryubakishije amabara y'umukara, umuhondo n'umweru.

Umupapa uri mu nyubako ikorerwamo imyitozo ngororamubiri n'umumama usutamyemo, umupapa uri gusimbuka wazamuye ivi rimwe ukundi kuguru kuri inyuma, ari gusimbuka uturongo tw'umukara turimo umuhondo.

Inyubako ikorerwamo ubucuruzi harimo ibikarito byinshi bipanze mu myanya igiye itandukanye bimwe bisa umweru n'ubururu ibindi bisa umweru n'umuhondo.

Umuntu ufite akaboko kanini wambaye umupira w'umukara ushushanyijeho ikintu mu gatuza wambaye utukomo ku maboko yombi uri guterura icyuma gifite amapine, wambaye ipantaro ijya gusa umukara.

Umukobwa ufite imisatsi iboshye, izirikishije imibano, ikoze mu ishusho y'uruziga, wambaye isaha ku kuboko, wambaye isengeri ifite amabara y'umukara ku muguno, ndetse n'ikigina hasi, wikoze mu mugongo, hirya ye hari ibiti.

Abantu bari gukina bambaye kasike, umwe wunamiye umupira undi uri kuwumwaka, umwe wambaye umupira w'umweru undi w'umutuku bose bambaye amakabutura yumuhondo imipira yabo yanditseho nimero zitandukanye.

Umupapa wicaye ahantu hasize isima ahese umugongo. Inkweto ziwe haciyemo imirongo ibiri yambukiyije ifunzeho utudomo dutandukanye. Inyuma ye hari indabyo zitandukanye, wambaye umupira w'umuhondo wanditseho amagambo ari mu ibara ry'umuhondo n'umutuku.

Umuntu ufite ubwanwa bwo hasi n'ubwo hejuru, ufashe icupa mu ntoki uri kunywa amazi, icupa rifite ishusho y'umweru, hirya hari amadirishya.

Umupapa wambaye umupira wamaboko maremare ufite ubwanwa bwogoshe n'umusatsi w'umukara, uhinnye akaboko ari kunywa amazi mu icupa ryumweru amazi acagase.

Igitoyi cyanditseho imibare mu ibara ry'umukara kiriho irindi bara ry'ubururu, iruhande rwaho harambitse ibinini by'umweru, iby'umuhondo n'ibijya gusa umutuku, imbere yabyo handitse amagambo.

Umupapa wambaye umupira w'umweru, wambaye agakomo ku kaboko n'impeta ku rutoki, wambaye ikabutura y'umukara n'amasogisi y'umukara amanutsemo umurongo w'umweru, uri kugorora ivi.

Umupapa wambaye itaburiya y'umweru ifite imifuka itatu n'igifungo, uteruye umupira mu ntoki, wambaye karuvati n'ishati y'umweru ufite akuma k'ikoranabuhanga ku rutugu.

Umupapa wambaye agapira kamufashe, ufite akaboko kariho imitsi, uri kunywa amazi areba mu kirere, mu icupa ry'umweru n'ubururu ku mufuniko, wambaye ekuteri mu gutwi n'agakomo mu ijosi.

Umukobwa uri kureba mu kirere, uri kunywa amazi mu icupa ry'umweru rivanze n'ubururu, ufite igitambaro giteye mu gatuza, wambaye agakomo mu gatuza.

Inyubako ivurirwamo abarwayi, harimo abantu bambaye amataburiya y'umweru barikumwe'umugabo wambaye ikote ry'umukara, hirya hari abarwayi bicaye ku gitanda umwe wambaye agapfukamunwa bari kureba kunsakazamashusho imanitse ku gikuta.

Ikirere cy'umweru kirimo ubururu. Umuntu uri mu ishusho y'umukara uri kunywa amazi mu' icupa ry'ubururu hariho umushumi w'umukara, washyize mu kanwa ufite akanawa karekare gasongosoye.

Umumama wicaye kuri tapi imbere ye hari mudasobwa, iruhande hari utwuma akoresha mu myitozo ngororamubiri, hirya hari intebe iruhande rwe hari icupa ry'amazi, inyuma hari ishami ry'igiti.

Umupapa wicaye amavi ahinnye ufite ubwoya butari bwinshi n'inzara ziciye, ufite imitsi ku maboko, ufite akantu k'ubururu yashyize ku ivi kari kumukonjesha.

Amagambo yanditse mu ibara rirya rya gusa ubururu hasi hari urushinge hejuru hari icupa rifite umufuniko w'umweru umanutsemo uturongo n'ibinini bishushanyije umuntu.

Umupapa usutamye wambaye inkweto z'umukara zirimo akarongo k'umweru n'ipantaro y'umukara irimo umurongo w'umweru n'umupira w'umukara wapfuditseho amagambo y'umweru mu gatuza umanitse amaboko mu kirere iruhande rwiwe hahagaze umuntu wifashe ku matako wambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'umukara.

Umupapa uryamye hasi wambaye amasogisi y'umweru hariho akantu k'umukara, wambaye n'umupira w'umweru, ufashwe mu ntege n'undi mupapa wambaye umupira w'umukara n'isaha ku kuboko n'impeta ku rutoki, ukuguru kumwe kuri ku rutugu rw'undi.

Umupapa wicaye ku gitanda ufite agakomo mu gatuza, wambaye umupira ujya gusa icyatsi n'ipantaro y'ikoboyi, hirya hari umumama uri kumwitaho, umuzirika imbuzaguhina ku kirenge, ufite ikarita y'akazi mu gatuza.

Inyubako nziza irimo ibikoresho bikoreshwa mu myitozo ngororamubiri, ifite igisenge cy'umweru, yanditsemo amagambo agaragaza ikibera aho hantu, ibikoresho bitandukanye birimo amabara y'umukara n'ibindi bifite amabara y'umweru.

Umumama ukikiye umwana wambaye agapfukamunwa n'agakomo ku kuboko ufashe umwana mu mutwe hirya ye hari undi muntu wambaye igisurubeti cy'ubururu hirya hari ameza arambuyeho ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye na mudasobwa iri hirya yabo.

Umupapa wicaye mu ntebe wambaye inkweto zifunguye uri kuzamura akaguru mu byuma by'ikoranabuhanga, iruhande rwe hahagaze umugabo wambaye inkweto z'umukara ipantaro y'umukara n'ishati y'ubururu uri kumwitaho.

Ameza ariho metero, amarongi, urusenda, pome n'imboga, hariho n'utwuma dukoreshwa imyitozo ngororamubi, hirya hari igikombe kirimo ubuki.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga harimo igihagaze gifite amapine y'umukara hejuru hariho akantu karambitseho gafite imishumi irereta, hirya hari insakazamashusho irimo umuntu wambaye ishati y'umweru ufite umusatsi wiboshye.

Umupapa udafite umusatsi uryamye ku gitanda, wambaye inkweto z'umukara zifite hasi h'umweru, wambaye n'umupira w'umweru uri kwitabwaho n'umuntu wambaye itaburiya y'ubururu, mo imbere harimo umupira w'umweru w'amabokoko maremare, inyuma yabo hariyo ibibabi by'ibyatsi.

Umupapa uryamye hasi wambaye isaha, wambaye ikabutura y'umukara n'umupira ujya gusa umweru, ukuguru kuzirikiye mu kirere wambaye amasogisi y'umweru.

Umumama wambaye agakabutura kamufashe, n'umupira w'umutuku, wambaye amaherena ku gutwi, ufite umusatsi, wambaye n'amadarubindi, uri kwitabwaho, n'umugabo ufite ikaramu mu mufuka, wambaye itaburiya y'umweru, wambaye isaha.

Amoko y'ibiti atandukanye, ari mu macupa yayo, harimo igikakarubamba, urusenda n'ibindi bitandukanye, munsi yaho haciye umurongo munsi ya buri cupa, hasi handitseho amagambo asobanura ibyo ari byo.

Umugabo n'umugore bafite imisatsi miremire, hejuru hari icyapa cyanditsemo inyuguti ya N iri mu ishusho y'umweru, hasi hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'ikinyarwanda, hirya hari icupa rifite umufuniko w'umweru n'intango ijya kuba uruziga.

Igiti cy'umuravumba gifite amashami atandukanye ndetse n'amababi amwe maremare, hirya yaho hari igikuta cyubakishije amatafari y'impunyu hirya hari ishusho y'umweru.

Igiti kirekire cyigunze munsi yaho harimo igiti cy'umuravumba amagambo yanditse mu ibara ry'umukara hirya yaho hari ikindi giti gifite amababi atatanye.

Umuti uri mu icupa ricuritse rifite umufuniko w'umweru hashushanyijeho igikakarubamba, hejuru mu nguni hashushanyijwe ibara ry'icyatsi n'akanyoni kari mu ibara ry'icyatsi kari kuguruka, hasi handitseho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi.

Icupa ricuritse rifite ubuso bw'umweru, rizengurutswe n'umufuniko w'umweru, hariho igikakarubamba gishushanyije kuri iryo cupa, hejuru hariho ibyatsi by'umweru n'amagambo, yanditse inyuma ku gifuniko cy'icupa.

Icupa ririmo umuti rifite umufuniko w'umweru ushushanyijeho agasimba kari kuguruka n'amagambo yanditse munsi yako biteretse ku isahani y'umweru hariho amaronji n'izindi mbuto.

Ibyatsi biri inyuma y'uruzitiro rukozwe n'utwuma tunyuranyuranyemo twinshi, iruhande rwaho hari igikarito cyihajugunye n'ubutaka n'akandi kantu gasa umukara, hirya hari akandi gasa ubururu.

Icupa ripfunduye iruhande rwaho hari akarabyo gafite indabo z'umweru n'umuhondo mo hagati hino hari igikakarubamba n'icupa rishushanyijeho igikakarubamba n'agasimba kari kuguruka.

Uduti dutatu dufite amababi ajya gusa umuhondo, hirya hari indobo ihinzemo igiti, iruhande rwaho hari igiti kirekire, hirya na none hari urugo, rwubakishije imbaho z'ibiti.

Amacupa menshi arambitse ahantu, arimo ibintu bifite amabara atandukanye, inyuma hariho ibyapa bigaragaza ibiri muri iryo cupa, hariho nimero wabonaho n'ibisobanuro byinshi kuri ayo macupa.

Imiti iri mu macupa atandukanye. Icupa rimwe ni rirerire rifite umufuniko w'umweru, ryanditseho amagambo ashushanyijeho ikimenyetso cya K kiri mu ibara ry'umutuku. Hariho agasimba k'umuhondo gafite umutwe w'umutuku. Biri mu ibara ry'ubururu. Hirya hariho agasimba karikuguruka mu kirere.

Akabuni k'ubururu gafunikishije umufuniko w'icyatsi, hariho amagambo asobanura igicuruzwa icyo ari cyo na nimero wahamagaraho, inyuma hari mu ibara ry'umukara ndetse bigaragara ko hari n'amafoto ariho.

Imiti iri mu macupa atandukanye, icupa rimwe ry'icyuma rifite umuvuniko w'umweru, ryanditseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku, hariho agasimba kari kuguruka, iruhande hari igihwagari, hirya naho hari imineke.

Igitunguru gikase mo kabiri, hirya yacyo hari indimu zikasemo kabiri ari ibisate bibiri, hirya hari icupa rinini ry'icyuma, rishushanyijeho ikirabyo cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umuhondo.

Umu papa wambaye umupira w'umutuku, imbere hariho akantu k'umweru, n'ishati y'umukara, uri kumwe n'umukobwa uri gukoma mu mashyi, wambaye umupira ujya gusa ikigina, witeze agatambaro gasa ubururu, karimo n'amabara y'umweru mu mutwe, bari munsi y'igiti.

Ikiranga ntego kiri mw’ishusho y'uruziga hasi hari imiti gakondo iri mu tubuni dutandukanye n'amacupa, akabuni k'umuhondo gafite umufuniko ujya gusa umukara, icupa ry'umweru rifite umufuniko w'umweru hashushanyijeho agasimba kari kuguruka hasi handitseho amagambo ari mw’ibara ry'umukara.

Amacupa atatu atandukanye, rimwe rifite ishusho itandukanye n'ayandi, ifite imifuniko itandukanye, hose handitseho amagambo atandukanye, hashushanyijeho igikakarubamba.

Imiti ivangavanze iri mu gashashi k'umuhondo gafite indumane hejuru inyuma ku gashashi hariho icyapa hariho amagambo n'imibare hasi hariho imurongo imanutse.

Umuti uri mu gacupa k'umweru gafite indiba y'umutuku yanditsemo amagambo ari mu ibara ry'umweru, gafite umufuniko w'umuhondo, iruhande rwaho hari agatabo kanditseho amagambo atandukanye, amwe ari mu ibara ry'umukara, andi mu ibara ry'umutuku andi mu ibara ry'umweru, hejuru hariho agasimba kari kuguruka.

Amacupa atandukanye ashushanyijeho udusimba turi kuguruka, hasi hariho ishusho y'igikakarubamba, handitseho amagambo ari mu mabara atandukanye, afite imifuniko itandukanye.

Icupa ririmo umuti gakondo rifite umufuniko w'umweru umanutse mo uturongo ku icupa handitseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu ndetse n'umukara, hasi hariho andi magambo yanditse mu ibara ry'umweru.

Umugabo uri aho binaziriza imiravumba uri kuyitunganya, inyuma hari abandi bagabo benshi bari kuganira ku bintu n'ibyuma bigize iyo nyubako ahantu haherereye, hirya hari imirima irimo ibyatsi.

Icupa ririmo umuti gakondo ryanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu n'umukara, hariho ibara ry'umweru nko hagati n'andi magambo yanditse mu ibara ry'umweru hejuru hariho agasimba kari kuguruka rifite umufuniko w'umweru umanutsemo uturongo.

Umuntu ufashe imiti mu ntoki, mu kuboko kw'iburyo harimo agakarito kariho ibara ry'umweru, amagambo yanditse mu ibara ry'icyatsi n'umurongo w'umutuku ndetse n'akandi kantu gashushanyijeho kari mu ibara ry'icyatsi, hino ku binini biri hagati y'imirongo ibiri.

Amashashi y'umukara arimo ibitaka, ashizemo ibiti bibiri bibiri, hirya hari akapa kanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, inyuma hari ubundi bwoko bw'ibiti bitandukanye.

Ibisate bitatu by'igikakarubamba bimwe bifitemo ishusho y'umweru imbere, hino hari ikimenyetso kinini kigizwe n'amabara y'umweru, ubururu, hejuru hariho agasimba kari kuguruka.

Insina z'ibikakarubamba zitandukanye, igikakabamba kimwe gifite amababi maremare, hirya y'aho hari ikindi giti gifite amashami atatu kirekire, hirya y'aho hari igihu cy'umweru kivanze n'ubururu, ndetse n'umukara.

Igikakarubamba hirya hari abantu bambaye imyenda y'icyatsi n'amagambo yanditse mu ibara rijya gusa icyatsi, hariho agasimba kari kuguruka, munsi hari ibindi bimera bitandukanye.

Icupa rirerire rifite indiba y'umweru, hejuru yaho hari icyatsi cyereruka, hejuru hari icyatsi nanone rigizwe n'ibara ry'umweru rifite umufuniko w'umweru, hagati ku icupa handitseho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi n'akantu kari kuguruka.

Umumama uri imbere mu iduka aho bacururiza amacupa arimo imiti y'amoko atandukanye wambaye ikarita y'akazi mu gatuza witeze igitambaro cy'umweru, imbere hari umupapa ufashe ku bicuruzwa.

Inyubako icuruzwamo imiti gakondo hamwe harimo ibyatsi ahandi hari imiti iri mu macupa agiye atandukanye apanze mu tubati.

Umuravumba ufite amababi atandukanye, ibabi rimwe ritobaguyeho, hirya yaho hari indabyo zisa umuhondo zitaratse n'izindi zitarabumbura, hirya y'aho hari ikirere gisa umweru.

Icupa rirerire rikozwe mu cyuma rifite umufuniko w'umweru hejuru hariho agasimba kari kuguruka, hasi hari amagambo yanditse mu ibara ry'umweru rigizwe n'ibara ry'umutuku hagati harimo ibara ry'isine.

Ibiti bibiri, kimwe kirekire ikindi kigufi, kimwe gifite amashami atatu, afite ibibabi icyenda, ikindi gifite ibibabi cumi na kimwe, giteye ahantu h'umweru, hirya hari inyubako yubakishije amatafari ahiye.

Inyubako y'ubucuruzi irimo imiti iri mu macupa atandukanye agiye atonze ku murongo umwe hejuru y'andi, amwe afite ibara ry'umweru n'imifuniko y'umweru, andi afite imifuniko y'icyatsi, andi afite ibara ry'umuhondo mo hagati.

Icupa ririmo umuti gakondo rifite umutwe w'ikigina, n'umufuniko w'ikigina, n'indiba isogosoye y'ikigina, ishushanyijeho igikakarubamba n'urunyanya hariho agasimba kari kuguruka n'amagambo yanditse mu ibara ry'ikigina.

Akabuni k'umuhondo kanditseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku, hejuru hashushanyijeho agasimba kari kuguruka gafite umufuniko w'umutuku, iruhande hari ibiti by'icyatsi bikasemo kabiri bifite amahwa.

Imiti iri mu macupa atandukanye indi iri mu kabido gafite ibara ry'ubururu havanzemo umuhondo, hariho amagambo y'impine yanditse mu ibara ry'ubururu, gafite umufuniko w'icyatsi, hirya hari indi ishushanyijeho igikakarubamba, hejuru hariho amagambo, munsi hariho ibirangantego bitandukanye.

Icyatsi kinini kigandaye gifite amababi menshi atanyagujemo kabiri, gihinzwe mu butaka burimo amabuye menshi ari mu ishusho y'uruziga.

Icupa ry'umweru rirerire rifite umuvuniko w'umweru, ku icupa hashushanyijeho utuntu tw'umutuku, hariho agasimba kari kuguruka, hariho uruyuki n'amagambo yanditse mu ibara ry'umukara ayandi mu ibara rijya gusa ubururu.

Umupapa ufite umutwe munini ugaragara ugutwi kumwe, wambaye umupira w'umweru, ku maboko aho uciriye harimo amabara y'umukara uri gusoroma utuntu mu ishyamba.

Amacupa maremare y'umuhondo, ashushanyijeho igikakarubamba, yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, ipfundikishije umufuniko w'iki kina, hejuru w'agasimba kari kuguruka hari andi magambo yanditse mu ibara ry'ubururu, iruhande rwaho hari amacupa maremare y'umweru, apfunyikishije imifuniko y'umweru.

Icupa rifite umuvuniko w'umweru uri mu ishusho y'uruziga hamanutsemo utungo mo hagati afite indiba y'uruziga hariho ikirangantego cy'agasimba kari kuguruka, hasi handitseho amagambo hasi hariho amazi..

Amacupa y'amazi ari mu mabara atandukanye, rimwe ritoya, ku icupa hariho akantu kari kuguruka, riri mu ibara rijya gusa ubururu, handitseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, irinini riri mu ibara ry'umweru, hejuru rifite umufuniko ujya gusa umukara.

Ibinini biri mu ishashi bipfundikiyemo, hejuru hari igikarito kiriho ikimenyetso cy'uruziga kigizwe n'amabara abiri ubururu n'icyatsi, gifite icyerekezo, hagati handitsemo amagambo ari mu mibare, hasi handitseho amagambo y'inyuguti.

Umumama uri gusoroma indabyo ku giti gifite indabyo zijya gusa iroza, wambaye igitenge, ufite inzara ziciye, ufite ukuboko k'umukara.

Abantu bari kugenda basanga umusozi uri guturukaho amazi yererana, iruhande rwabo hari amabuye, hirya hari umusozi uriho ishyamba, urimo ibiti bitandukanye.

Agasekuru n'umuhini, iruhande rwaho hari insenda ndetse n'ibishyimbo, karoti n'ibibabi bya karoti n'indabyo, hirya ku ruhande n'icupa ririmo ibintu bijya gusa ikigina.

Imiti iri mu macupa atandukanye mu iduka ipanze mu myanya itandukanye isize ibara ry'umutuku, hari ibyapa bigiye biri kuri aya macupa byanditseho amagambo anyuranye, amwe afite ikirangantego cy'umuhondo.

Umuntu uri mu busitani wambaye umupira w'umutuku hejuru wanditseho amagambo y'umweru, harimo ibara ry'umweru, inyuma hageretseho ishati y'umukara, uri gusoroma ibyatsi mu busitani.

Icupa ry'umweru rifunikishije umufuniko w'umweru umanitse urimo uturongo, hariho agasimba kari kuguruka handitseho umubare mirongo itandatu ikinyampande, ishusho y'ikinyampande esheshatu.

Icupa rifite umubyimba munini ryanditseho ijambo umuravumba, hashushanyijeho umuravumba ibiriri mu icupa mo imbere birasa ikigina, hejuru rifite umufuniko w'umuhondo umanutsemo uturongo handiki wandikishijeho amagambo y'umukara.

Amacupa atandukanye ari mu mabara atandukanye hariho amagambo kruhande rwayo hariho ikirangantego gisa kiri mu ishusho y'uruziga hagati harimo umugore ufite imisatsi imanutse imbere mu gatuza.

Isekuru y'umweru ishinzemo umuhini w'umweru, iruhande rwayo hari imbuto zinyuranye ziyikikije, hirya hari amababa y'igisimba n'umugozi uzingiye ku giti.

Utuntu icumi dukase mu buryo bungana, hirya hari agasimba kari kuguruka karambuye amababa, munsi hari amagambo y'umukara ahanditse mu ibara ry'umuhondo ndetse n'icyatsi, hari igisuperi kirimo ibintu.

Icupa rikozwe mu cyuma rifite umufuniko w'umweru, ryanditseho amagambo arimo ibara rijya gusa umukara, hejuru hashushanyijeho agasimba kari kuguruka, munsi hariho ibara ry'umuhondo rivanze n'ikigina.

Ubu buni bubiri buri mu ishusho y'umuhondo, bufite umufuniko ujya gusa isine, ushushanyijeho igikakarubamba, hino yaho hari igikarito cyanditseho fa cumi na gatanu n'ibara ry'icyatsi.

Icyatsi cyera kirandaranda ahantu hari ubutaka, iruhande hari utundi duhingwa dukeya, gifite amababi ameze nk'ay'amashu, gifite indabyo zirimo ibara ry'umuhondo n'isine.

Imiti iri mu ducupa tw'umweru ducuritse hagati yayo hari igikakarubamba, hari irindi cupa rirambitse ku ruhande ririho ibara ry'umuhondo, i ruhande rwaho hari imbuto zimenetse n'umufuka hejuru hariho amagambo yanditseho ndetse n'agasimba kari kuguruka.

Igihingwa gifite amababi menshi atandukanye asatuyemo uturongo, umuntu ufashe ku ibabi ufite urwara rw'umukara hirya ku hari ubutaka burimo ibyatsi byaboye hasi.

Urupapuro rushushanyijeho agasimba kari mu ibara ry'umweru, kari kuguruka, hasi hari amagambo yanditse mu ibara ry'umweru manini, hasi hari andi yanditse mu ibara ry'umutuku, iruhande rwaho hari icupa rishushanyijeho agasimba kari kuguruka.

Icupa ririmo umuti gakondo, ryanditseho ijambo umuravumba, hejuru rifite umuvuniko w'icyatsi ndetse n'intango y'uruziga, hasi ririho amagambo yanditse mu ibara ry'umweru n'andi yanditse mu ibara ry'umukara.

Icupa rifite indiba y'icyatsi, riri mu ishusho ijya gusa icyatsi, ripfundikije umuvuniko w'umweru, handitseho amagambo, hariho agasimba kari kuguruka, iruhande rwaho hari igiti cy'igikakarubamba.

Ibimera byameze ahantu bajugunya imyanda yaboze, harimo ibicupa, ibipapuro, ubwoko bw'ibimera bubiri butandukanye, hejuru handitseho amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Icupa risogosoye rifite umutwe ujya gusa umutuku ufite umufuniko usa nk’umutuku rigizwe n'umweru rifite indiba y'umutuku yanditseho amagambo hejuru hariho agasimba kari kuguruka hashushanyijeho igikakarubamba n'inyanya.